Ni abantu benshi bicaye mu nzu imwe, ubona ko bagiye biciye mu dutsiko kandi bafite icyo bari kuganiraho, ndetse buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibiri kuvugirwamo.

Abantu bicaye mu nzu mo imbere, mu buryo bwa mpande enye, ku buryo buri wese arebana n'undi. Imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi, ikaye yo kwandikamo na telefone ye. Ubona ko bari kungurana ibitekerezo bari mu nama.

Ni mu gishanga hari amazi atemba, ubona ko hari abantu baje kuyavoma ndetse n'akana gatoya; nkuko tubizi amazi atemba akaba atari meza, kuko atera indwara nyinshi.

Ni mu rugo rw'umuntu ahagana mu gikari hubakishije imiyenzi, hanze hari ibitoki hakaba agatanda ko mu biti gashyirwaho amasahani, akaba ari uburyo bwigishwa na leta, ko umaze koza amasahani wese ayanika ku gatanda mu rwego rwo kwirinda indwara.

Abantu bigaragaza ko ari abayobozi cyangwa se bakora mu nzego zitandukanye, bicaye mu ntebe mu nzu yagenewe gukoremo inama, imbere yabo hari umugabo uri kubaha ikiganiro ubona ko abandi bose bakurikiye ibyo ari kuvuga.

Abanyabuzima bahagaze ahantu hamwe bambaye n'amakarita mu gatuza bakaba bari gukoma mu mashyi, bigaragara ko bari kwakira umunyamahanga ubahagaze imbere, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima cya Mayange.

Ahantu hubakishije igishararagati, ku mpande ibitambaro by'umweru, hakaba hahagaze abanyeshuri bakiri batoya bambaye impuzankano, ubona ko bari kuririmba inyuma yabo hari mwarimu, imbere hakaba hari abashyitsi babasuye bakaba babahanze amaso.

Ni umwana wambaye impuzankano uri gukaraba ku ivomero, akaba ari uburyo yigishwa bwo koza imyanda wese agomba gukaraba amazi meza mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, hirya ye hakaba hari ishyamba rikiri rigufiya, ndetse inyuma ye gato hakaba hari indobo iri mu ibara ry'ubururu.

Abana bahagaze ahantu hamwe, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso. Bakaba bambaye imipira yiganjemo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, bahabwa n'ikigo gishinzwe uburenganzira bwa muntu.

Ivomero riri mu ishyamba rifite amavomero abiri imbere n'inyuma, rikaba ryuzuyeho abantu benshi biganjemo abana bakaba baje kuhavoma, akaba ari umugezi ushyirwaho na leta mu rwego rwo korohereza abaturage kugirango bose babashe kugerwaho n'amazi.

Ni inzu ifite ibaraza rinini, hasi hashashe sima, ku nkuta hateye irangi ry'ubururu, hakaba hateyemo intebe ndende z'urubaho. Hicayemo abagore ubona ko buri wese afite igipapuro ndetse imbere hari umuntu ubona ko ari kubitaho akurikije umurongo.

Ni umurima wiganjemo abantu bambaye imipira ya oranje. Muri abo bantu hakaba higanjemo cyane cyane urubyiruko, bakaba bari gutera imboga mu rwego rwo kwirinda imirire mibi.

Abana bicaye ahantu hamwe, umusirikare n'abandi bantu bahahagaze. Hakaba hari n'umugore uhicaye ubona ko ari kubitaho. Akaba ari umunsi wo kugaburira abana indyo yuzuye banereka ababyeyi babo uko bagomba kubitaho.

Ni ivomero riri ahantu ha ryonyine ryubakiye hakaba hari umwana w'umuhungu waje kuvoma yitwaje indobo, nyuma yuko icyo aje kuvomeraramo cyuzuye agategaho ibiganza akanywa amazi akoresheje ibiganza bye.

Ni mu kigo cy'amashuri mu buryo bwo gufasha abana bose kubona amazi kandi meza, batereka ahantu ameza, hejuru bagashyiraho utuntu turimo amazi ndetse tunayayungurura, umunyeshuri wese ugize inyota akaza akavomaho, kandi agakoresha igikombe cye mu rwego rwo kwirinda indwara.

Kwa muganga mo imbere ahagana hejuru hari parafo. Hagati hahagazemo abanyabuzima benshi bambaye n'amakarita yerekana ibyo bakora, ubona ko hari umuti runaka bari kwigaho, ndetse bari kumwe n'Abanyamahanga n'abandi baturage barya.

Ni ivomero ryubakiye riba riri ahantu haryo ha honyine, aho ubona amazi hari izindi mbaraga zakenewe, igihe hagiye umuntu akajya azamura anamanura ahagana inyuma, hakaba hari umwana uri kuvoma bigaragara ko hari n'abandi bantu babashungereye.

Umugezi ufite amavomero atatu ndetse wubakiwe, hari amajerekani menshi atonze umurongo ndetse n'amagare yaje gutwara amazi. Bigaragara ko hari n'umugore uri imbere ushinzwe kwishyuza.

Ni mu nzu mo imbere harimo ameza ashasheho igitambaro cy'icyatsi kibisi. Hicayemo abaganga babiri bambaye agapfukamunwa, hakaba n'undi muganga uhagaze bose ubona ko bari kwita ku musaza. Umwe muri bo akaba ari kumutera urushinge ku kaboko.

Abagore batatu bicaye ku meza mu buryo buri wese areba undi, babiri bigaragara ko bari mu makayi babara ibintu bijyanye n'imitungo, undi akaba ari kubarebera abaha ibitekerezo areba n'uko babikora.

Umugezi ufite amavomero abiri bigaragara ko uri mu ishyamba. Hakaba hari umugore ndetse n'umugabo, bagiye kuhavoma bitwaje n'amajerekani y'ibara ry'umuhondo.

Umugore ukenyeye igitenge uhetse umwana wambaye inkweto z'umukara, akaba ari koza umufuniko ndetse n'indobo z'iyo mifuniko, iruhande rwe hakaba hari ivomero, ari naryo ari kwifashisha mu koza ibyo bikoresho.

Ni inyubako yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, bigaragara ko hari kuberamo inama yiganjemo abanyamahanga, bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi, ikayi ndetse na telefone kandi ubona ko bose barangajwe imbere n'uri kubahugura cyangwa uri kubaganiriza.

Ni mu nzu mo mbere, hari ameza ariho ibintu byinshi byifashishwa mu kwita ku bana. Hakaba hari umugore wicaye ku ntebe ukikiye umwana ndetse akaba ari kwitabwaho n'umuganga ngo arebe ko hari ikibazo afite mu kanwa.

Umwana w'umukobwa ubona ko akiri muto wambaye ikanzu yo mu ibara ry'umutuku uri gukaraba ku mugezi, akaba ari uburyo bwigishwa abana ko ukoze imyanda wese cyangwa uvuye mu bwiherero agomba gukaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Inzu ubona ko yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi bitandukanye harimo ibiganiro ndetse n'inama. Hari kugaragara abagabo babiri ubona ko aribo bafite gutanga ikiganiro, imbere ya buri umwe hatetse icupa ry'amazi ndetse n'ikayi.

Abagore bambaye imipira y'amaboko magufi y'ibara ry'umweru bose bakigikiye abana babo, abo bana bakaba bari kwitabwaho bagaburirwa, akaba ar'uburyo bwo kubereka uburyo bazajya bateka indyo yuzuye bakanayigaburira abana babo.

Ni mu nzu mo imbere, inzu yubakishije amatafari, mo imbere hagiye harimo ibipapuro bitatsemo biriho ibintu byinshi bitandukanye, hicayemo abana batatu, iruhande rwaho hicaye umubyeyi.

Abantu bahagaze ahantu hamwe higanjemo abagabo bambaye neza amakoti, amashati ndetse bahagararanye n'abagore nabo bambaye amakarita mu gatuza, bose ubona ko bakora mu mirimo ya leta bakaba bafite inshingano zikomeye.

Ni munzu hari umugore wicaye ukikiye umwana wagiye kumuhesha umuti, ndetse akaba ari kuwuhabwa n'umuganga. Akaba ari uburyo bwo guha abana umuti mu rwego rwo kubarinda indwara zifata abana, kandi bakanabitaho kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza.

Umurima urimo ivomero rikaba ririho abana babiri b'abakobwa ubona ko bagiye kuvoma, bakaba bateruranye indobo y'icyatsi ubona ko yuzuyemo amazi.

Umugore utwite uri kumwe n'umugabo we, bose bicaye ku ntebe zibajwe mu rubaho ndetse ubona ko bari kuganira n'umuganga, abaha inyigisho n'uko bagomba kwitwara mu gihe umugore atwite.

Ni umugore wicaye ku ntebe yegamirwa ibaje mu giti uteruye umwana, ubona ko yagiye kumuhesha umuti urinda abana inzoka ndetse ukanabongerera vitamine, akaba ari kuwuhabwa kandi n'umuganga w'umugore wambaye n'imyenda y'akazi.

Ni mu mbuga hari abantu bahagaze bambaye imipira isa, hakaba n'abandi ariko bose ubona ko bari mu bushakashatsi barimo kwigishwa ibyo bazajya bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ni kwa muganga mo imbere hari umukobwa wicaye ku gitanda cyagenewe kwicarwaho n'abarwayi, wambaye umwenda wo kwa muganga, akaba ari kwitabwaho na muganga ndetse akaba yamwambitse n'ikintu ku kuboko gipima umuriro umuntu afite.

Umwana w'umukobwa uri gukaraba intoki, wambaye impuzankano, akaba arimo mu kigo cy'amashuri, akaba ari uburyo bigishwa ko ukoze imyanda wese agomba gusubira mu bandi, abanje gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Ivomo riri mu ishyamba ririho amazi yizana, ubona ko hari umwana agiye kuvoma agasoza nyuma y'uko asoje kuvoma, akaba arimo arakaraba intoki.

Ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, hari umwana uryamye ku gitanda bigaragara akarembye cyane, hepfo ye hicaye umubyeyi we ndetse akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri.

Ni abagore babiri bicaye hagati y'amabendera ubona ko atari ayo mu Rwanda. Bakaba bari kwifotoza bishimye ndetse bose bicaye ku ntebe zegamirwa.

Umugabo uri gukorera umwana ijerekani y'amazi, nk'uko tubizi bikaba bitemewe gukorera umwana ikintu kimurusha imbaraga kubera ko uba uri kumudindiza cyangwa ukangiza ubuzima bwe.

Ivomero rirahagana mu mbuga ubona ko iruhande rwaryo hahagaze umugore waje kuhavoma, inyuma naho hari abana kandi bose baje bitwaje ibyo gutwaramo amazi.

Ni inzu yubakishije amatafari, ahagana ku irembo hicaye umugore uri kumwe n'umwana mutoya, imbere yabo hari umunyabuzima bigaragara ko yaje kubasura anabaganiriza, mu bijyanye no kugira imibereho myiza.

Ni ivomero rihora rimena amazi, abantu bakavoma nta kiguzi bisabye hakaba hari umwana w'umuhungu uri gukaraba mu maso, akaba ari uburyo bwo kwikuraho imyanda mu maso ndetse no mu ntoki, mu rwego rwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abagore batatu bicaye ku ntebe ndende y'urubaho, ubona ko bose baje kwisuzumisha. Umugore wa mbere akaba ari kwitabwaho na muganga ndetse akaba yamushyizeho ikintu ku kuboko gipima umuriro.

Ni mu nzu mo imbere hahagazemo umugabo wambaye imyenda isa, hicayemo n'umugore wambaye ikanzu, ahagana ku meza hariho za mudasobwa nyinshi ndetse ku bikuta hagiye harimo ibipapuro bigaragara ko hari ibikorwa bihabera.

Mu ivomero ririho abagore benshi bagiye kuvoma bitwaje indobo zo gutwaramo amazi, akaba ari uburyo Leta ishyiriraho abaturage mu buryo bwo kurohereza kubona amazi bitabagoye, inyuma yabo hakaba hari inzu nini.

Inzu imbere yayo hari imbuga nini irimo ibyatsi, hubatse amatente ndetse hari abantu benshi ubona ko hari igikorwa bajemo, hakaba hari abakurikiye ndetse n'abiyicariye ubona ko bagitegereje.

Abana bahagaze ahantu hamwe, hejuru yabo hakaba hari umugabo uri kubasukira amazi abereka ko bagomba gukaraba intoki buri kanya, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abantu bicaye ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa ubona ko hari inyigisho baje gufata, imbere ya buri muntu hari ikayi yo kwandikamo ndetse n'icupa ry'amazi, bakaba bambaye imipira yicyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umweru, ubona ko kandi bose bakurikiye uri bari imbere ari kuba inyigisho.

Abantu batari bake bahagaze ahantu bigaragara ko bari kwifotoza, bakaba bahagaze imbere y'inzu, hejuru ifite icyapa cyanditseho ngo ''Gira ubuzima.''

Abantu bicaye ahantu hamwe higanjemo abagore, bose bakaba bakurikiye uri kubaha inyigisho ndetse ubona ko bose bicaye mu buryo buri wese ari kureba imbere.

Mu ivomero ryubakiye risa nk'iriri mu ishyamba, rifite amavomero abiri yose azamo amazi, hakaba hari umugabo n'umugore, ubona ko bagiye kuvoma, ndetse hari n'undi mugore wambaye ijire uri kubaganiriza, bose ubona ko bishimye.

Ni mu kigo cy'amashuri, hari kugaragara umwana w'umukobwa wambaye n'impuzankano, bigaragara ko ari gukaraba intoki. Akaba ari uburyo batozwa bw'uko uvuye mu bwiherero wese agomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Ni mu nzu mo imbere hatatsemo ibitambaro by'amabara atandukanye, ahagana hagati hateyemo ameza yicayeho abantu, buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi, indangururamajwi ndetse na mudasobwa, ubona ko bari kuganira, bafite ikintu bari kwigaho.

Ni inyubako ubona ko iberamo ibikorwa byinshi, imbere hari ikibuga cyubatsemo n'amatente, akaba ari uburyo leta ishyiraho kugira ngo abantu bajye kubitaho babasanze mu midugudu aho batuye, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bicaye abandi bahagaze bose ubona ko baje kwaka ubufasha aho hantu.

Umwana ufite akajerekani gatoya uri kudaha amazi atemba, nk'uko tubizi amazi atemba akaba atari meza mu kuyakoresha, kubera ko aba arimo imyanda myinshi itandukanye.

Ni igipapuro cyiganje mu ibara ry'ubururu, ndetse kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, avuga ko ari ikigo cy'igihugu cyagenewe kwita kuri buri mwana wese, ndetse kikanamuha n'ubuzima bwiza.

Abantu harimo abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, bakaba bicaye mu nyubako ndetse ku ntebe zegamirwa, ubona ko hari ikintu bari kuganiraho. Iruhande rwa buri muntu hari icupa ry'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Umwana w'umuhungu w'umunyeshuri wambaye n'impuzankano, uri gukaraba kantu kabugenewe bita kandagira ukarabe. Akaba ari uburyo abwirwa bw'uko umuntu wese umaze gukora imyanda, agomba gukaraba kuri kandagira ukarabe akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Umwana uhagaze ku mwunzani, inyuma ye hari abandi bantu, hari n'umugabo wicaye umufashe ku kuboko, akaba uburyo bwo gupimisha umwana kugira ngo barebe ko ibiro bye bingana n'uburebure bwe, mu buryo bwo kumenya ubuzima bwiza bw'umwana.

abantu benshi bambaye ingofero z'umweru, imipira y'amaboko magufi y'umweru, ndetse n'ubururu, harimo Abanyamahanga ndetse n'Abirabura, bahagaze munsi y'igiti bafashe icyapa cyerekana ko ari umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Ni icyumba cyuzuyemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga ubona ko harimo n'abandi bantu ndetse hakaba harimo n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ingofero y'ubwirinzi ahagana mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa.

Ni mu manga hari umukingo uriho n'amabuye manini, munsi hari ivomero ubona ko hagiye kuvoma abana bato, umugabo ndetse bose bagiye bitwaje ibyo gutwaramo amazi.

Abagore benshi bicaye ahantu bamwe bafite abana ubona ko bari mu kigero kimwe, aba ari umunsi ushyirwaho na Leta mu rwego rwo kugira ngo ababyeyi bajye gufata inyigisho z'ukuntu bazajya batekera abana babo indyo yuzuye.

Umugore uri kumwe n'umwana mutoya, bigaragara ko bari mu murima urimo ibyatsi byinshi, ariko hakabamo n'umuti wa kinyarwanda, akaba ari imiti iva mu byatsi abanyarwanda bifashisha mu kwivura mu gihe nta buvuzi bw'ako kanya bugezweho bubonetse.

Ahantu ubona ko hatuwe, hakaba hari umubyeyi uvuye kuvoma wikoreye ijerekani, ku mpande ze zombi hakaba hari abana ubona ko bakiri na bo kuvoma.

Inzu iteye irangi ry'ubururu ifite n'ibaraza, ahagana imbere hari ubusitani burimo ibyatsi, hicayemo abantu ku buryo buri wese arebana n'undi, ubona ko barimo kuganira ndetse harimo n'ushinzwe umutekano.

Ni mu nzu mo imbere, hicayemo abantu ubona ko buri wese yicaye kuburyo ari kure ya mugenzi we, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi, terefone ye ndetse n'ikayi yo kwandikamo ibiganiro bari kugirana, hagati muri ayo meza hagiye hateretsemo indabyo.

Ni ivomero ryubakiye, riri ahantu hasa nko mu murima, ubona ko hari umwana wagiye kuvoma, yitwaje n'ibivomesho biri mu ibara ry'umuhondo. Akaba ari kuvoma ndetse anifotoza, ubona ko yishimye.

Ni umugezi uri ahantu mu murima wonyine, ugira amazi yizana ariko akaza mu gihe hakenewe izindi mbaraga, igihe inyuma hajya umuntu akajya azamura anamanura, kugira ngo amazi abashe kuzaza, imbere hakaba hari akana k'agakobwa ubona ko kari kuvoma.

Ni utuzu dutoya twubakije amatafari ahiye, dufite inzugi z'ubururu, ahagana hasi harimo amabuye ndetse hakaba hari igipangu cyubakishije utuntu tw'utwuma.

Abana b'abanyeshuri, bari mu ishuri, ni mu gihe cyo gufata amafunguro. Buri wese imbere ye hatetse ifunguro. Akaba ari uburyo bwashyizweho na leta mu buryo bwo korohereza abana imyigire, bakajya babaha amafunguro saa sita.

Abagore ubona ko bagiye gupimisha abana babo mu rwego rwo kureba ko ibiro byabo bihura n'uburebure, akaba ari uburyo bushyirwaho n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, mu rwego rwo gupima abana ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Abana babiri bari gukaraba mu ntoki, umwe asukira undi amazi akaba ari uburyo bigishwa ku umuntu wese umaze gukora imyanda, akaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara nyinshi harimo nk'inzoka zishobora guterwa n'umwanda wo mu ntoki.

Ni ivomero ritanga amazi ritishyuza, rikaba rikenera imbaraga. Mu gihe amazi aboneka hari umuntu uri inyuma, uri kumanura yongera anazamura. Hari umwana w'umuhungu, bigaragara ko ari kuhavoma ndetse abandi bakaba bashungereye.

Ni mu nzu mo imbere hateye irangi ry'umuhondo, harimo ababyeyi b'abagore ubona ko bakikiye n'abana bakiri batoya, bari kubitaho.

Abantu bari mu mahugurwa bicaye ku ntebe z'umukara, mu buryo bw'uruziga, ubona ko hari umuntu uri hagati uri kubahugura ku kintu runaka, abandi bose bakaba bamukurikiye.

Ni icyapa cyiganjemo ibara ry'ubururu, umukara, ndetse n'umweru, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ahagana hasi hakaba hari utuntu tujya kumera nk'utuzeru, tw'umweru, harimo n'imibare y'umweru, ahagana hasi hakaba hari imibare yanditse mu ibara ry'umukara.

ni uburyo abaganga bafata igihe runaka bakaba bakorera mu gasozi ahantu hatari kwa muganga, bakaba hari inzu bari gukoreramo ndetse bari kwita ku mukecuru ubona ko bari kumusuzuma ahagana ku gatoki ngo barebe indwara arwaye.

Ababyeyi b'abagore bahagaze ahantu hamwe, ubona ko hari n'uwicaye, imbere yabo hakaba hari akana gatoya k'agahungu kari kwitabwaho na muganga, akaba ari kumureba ahagana mu mazuru ngo arebe ko nta kibazo afite cyangwa ko hari ubundi burwayi arwaye.

Ni kwa muganga hateretse ameza ariho imiti bifashisha, iruhande rwayo hahagaze abaganga ndetse hicaye n'umugore ukiki umwana agiye gukinriza, akaba ari guterwa urushinge na muganga mu rwego rwo kumurinda indwara z'ahazaza no kumurinda izindi ndwara zishobora kuzamufata igihe yaba atikingije.

Ni mu nzu mo imbere, hari urujya n'uruza rw'abantu, harimo abantu benshi bigaragara ko hasa nk'aho ari mu isoko; hakaba harimo abasore babiri ubona ko bafite ibintu bari kuganiraho.

Ni umugezi ufite amavomera ane hubatse, iruhande rwawo hahagaze umugabo, imbere hahagaze umwana, bigaragara ko yari yaje kuvoma mu ndobo, hanyuma amazi akaba yamunaniye kuyaterura.

Ni inzu ishaje bigaragara ko yenda gusenyuka, yicayemo umugore ukenyeye igitenge, akaba yicaye ku gatebe kabaje mu rubaho, ahagana hejuru y'idirishya ry'iyo nzu rikaba rikinguye.

Inyubako ndende yiganjemo ibara by'umweru igeretse kabiri ifite n'utuntu turinda abantu kugwa. Ahagana imbere yayo hakaba hari ibyapa byerekana ko iyo nyubako ikorerwamo ubuvuzi ndetse igatangirwamo n'izindi serivisi zo kwa muganga.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye munsi y'ibisharagati ndetse bari kwitabwaho n'abaganga. Akaba ari uburyo bakoreshaga muri corona bwo kuvurira abantu munsi y'ibisharagati, bakanabakingira ko nta ndwara ifata ibihaha barwaye.

Umugore w'imibiri yombi wambaye umupira w'amaboko magufi w'ibara ry'umweru, uteruye umwana mutoya, ubona ko ari we ari n'umwana bose bari guseka, ndetse bakaba bahagaze iruhande rw'inzu y'amatafari ahiye.

Ni umuhanda wa kaburimbo ubona ko harimo abantu ndetse n'ibinyabiziga, akaba hari umuntu w'umusore wicaye ahagana ku gikuta ubona ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari kugenda igikamyo cyagenewe gutwara imizigo nk'amabuye n'umucanga, iruhande hahagaze umugabo ufite ibintu bidasobanutse wambaye imyenda yacicaguritse, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ni inzu yagenewe kuberamo inama, ubona ko hicayemo abantu benshi ku ntebe zegamirwa, bose bakurikiye uri imbere uri kubaha ikiganiro, ahagana ku nkuta muri iyo nzu hateye irangi ry'umuhondo ndetse hari n'ikigaragaza amashusho.

Abantu benshi bari mu mujyo umwe biganjemo abambaye imipira y'ubururu ndetse hakabamo n'ab'inzego z'umutekano, bakaba bafashe igitambaro cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye, bakaba bari kugenda mu muhanda bakerekana kugira ngo buri muturage wese abimenye.

Abagore batatu bicaye mu buryo bw'uruziga ahagana mu mbuga. Bose bambaye udupfukamunwa kandi bicaye ku ntebe zibaje mu biti.

Abantu benshi bari ahantu hamwe ubona ko bari mu buzima bugoye kandi buri wese ari gukora ibye, hakaba harimo abana ubona ko bishwe n'agahinda bari kurira.

Umugore uri wenyine witeze igitambaro mu mutwe, wisize ibirungo byinshi mu maso uri kureba nabi, bigaragara ko afite umujinya cyane rwose ndetse ahagana ku matwi yambaye n'amaherena.

Abantu benshi ubona ko bishimye bicaye ahantu hamwe bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga, hagati yabo hicayemo umukecuru ushaje cyane ndetse bigaragara ko abo bana harimo n'abuzukuru be.

Ni mu nzu mo imbere hagenewe gukorerwa ibikorwa harimo nk'inama n'ibindi. Hateyemo ameza maremare ari imbere, hicayeho abantu babiri umugore n'umugabo, umugore akaba afite indangururamajwi ubona ko hari ikiganiro ari gutanga.

Ninge wambaye umupira w'ubururu wicaye ahantu aziritse amaguru, akaba yisasiye ibintu byo kwiyorosa mugihe umuntu aryamye, bigaragara ko bamukingiranye muri iyo nzu wenyine ndetse biragaragara ko yihebye urebeye mu maso.

Ni mu nzu mo imbere hagenewe kuberamo ibikorwa bitandukanye nk'amanama, hicayemo abantu biganjemo urubyiruko rw'abasore, bambaye imipira y'imikara ndetse harimo n'abari n'abategarugori, ubona ko bose bicaye bareba imbere, bakurikiye uri kuba ikiganiro.

Igipapuro cy'ibara ry'umweru ahagana hagati cyanditsemo amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, akaba ari icy'ikigo gishinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse kikaba cyanditseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo wicaye mu mukoki utambaye neza, wikenyeje igitenge uri kurundarunda ibintu byinshi bidasobanutse, bigaragara ko ari umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni inzu ifite ibaraza rirerire, ahagana hasi n'amakararo. Iryo baraza rihagazemo abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'ubururu. Bigaragara ko bari kwifotoza ahagana hagati harimo umusaza ubona ko akuze.

Inzu y'ubucuruzi irimo n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ihagazemo umugore wambaye n'akajire kagenewe gukora muri MTN, ubona ko ari kwifotoza yishimye.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse ubona ko bakenyeye n'ibitambaro by'umuhondo. Umwe muri bo afite umusatsi mwinshi w'umukara ndetse ubona ko n'amenyo ye yakutse.

Abantu benshi birunze ahantu hamwe, bose ubona ko bambaye neza, bamwe baricaye abandi barahagaze, abenshi kandi bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, inyuma yabo hari inyubako ndetse no ruguru yabo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ahagana hasi hashashe amabuye.

Umugabo wicaye hanze y'igipangu, wambaye imyenda yacitse ufite ibintu bidasobanutse, wambaye urukweto rumwe, witangiriye itama, ubona ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni mu muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu, hari ipoto ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi, hicaye umugore wambaye imyenda idasobanutse, yacicaguritse ufite ibintu bidasobanutse bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu batari benshi batandukanye harimo nab'inzego z'umutekano, bakaba bari kwifotoza bahagaze mu muhanda wa kaburimbo ubona ko bose bishimye.

Abakozi bambaye neza ubona ko biyubashye. Bakaba bahagaze ku mayesikariye hanze y'inzu ubona ko bari kwifotoza bishimye. Iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza gahunda nyinshi zibera muri iyo nzu.

Ni mu murima hari ibihuru byinshi, hari ishyamba, ahagana hagati hahagazemo abana ubona ko bari kwifotoza bishimye. Bamwe muri bo bakaba bafite ibivomesho, bigaragara ko bagiye kuvoma.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare uri mu ibara ry'umweru, wicaye wifashe mu mutwe ubona ko afite ibibazo byinshi bimuremereye mu mutwe we, ikindi kandi akaba yicaye wenyine.

Ni icyapa kiganjemo ibara ry'ubururu, umweru ndetse na oranje, ahagana hasi handitse amagambo arambuye mu nyuguti enye, byerekana ko ari Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imibereho myiza yo mu mutwe biciye mu bikorwa.

Umukobwa wicaye ku ntebe wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ingofero, ubona ko yihebye, ariko akaba ari kuganirizwa n'undi mukobwa wambaye imyenda y'umukara, ndetse na rinete ahagana mu maso.

Umusore wicaye hanze, ubona ko afite ibibazo byinshi byamurenze kuko yubitse umutwe akaba ashyizeho n'amaboko yombi, iruhande rwe hari umukobwa wambaye isaha ku kuboko, ubona ari kumuhumuriza.

Ni mu kanwa k'umuntu harimo amenyo menshi agaragara nk'aho afite uburwayi, hakaba hari kugaragaramo akuma gakoreshwa na muganga akuramo iryinyo rifite uburwayi kugira ngo ritanduza andi.

Umusore n'umukobwa bambaye imipira y'amaboko magufi y'ibara ry'umweru, bari kwireba mu ndorerwamo imwe ubona ko bishimiye amenyo yabo ndetse ko bishimiye ko nta burwayi yahuye nabwo.

Umugabo utagize ikintu yambaye ahagana hejuru ufite ubwanwa akaba ari guseka ndetse yashyize n'akadudo kumwe mu menyo ye mu rwego rwo kwerekana ko amenyo ye nta kibazo afite ndetse nta n'uburwayi afite.

Umusore uryamye ku gitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi, wambaye n'umwambaro wo kwa muganga uri mu ibara ry'umweru, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wabigenewe amufasha mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Ni icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi amenyo, hakaba hari icyerekana amashusho, intebe yicaraho abarwayi mu gihe cyo kuvurwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Umusore wishimye uri guseka bigaragara ko nta burwayi bw'amenyo afite kuko amenyo ye asa neza, akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma ye hari igitambaro cy'ibara ry'umuhondo.

Umukobwa bigaragara ko aribwo akibyuka, uteze igitambaro cy'umweru, akaba ari koza amenyo yireba, akaba ari uburyo umuntu yoza amenyo mu rwego rwo kuyarinda izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Umugabo ukuze wicaye ku ntebe y'urwegamiro, wasamye kugira ngo yitabweho na muganga amurebere uburwayi afite mu menyo, muganga na we akaba ari kumwitaho amukoza n'akabugenewe ahagana mu kanwa ngo arebe iryinyo rye ikibazo rifite.

Ni umugabo wegamye ku gikuta wambaye umupira urimo ibara ry'uburu bwijimye ufite ubwanwa w'imibiri yombi, akaba ari guseka yerekana ko amenyo ye ari meza kandi nta n'uburwayi na bumwe afite.

Umutegarugori uryamye kwa muganga, wiyoroshe igitambaro cyabugenewe cy'icyatsi kibisi, akaba ari kwitabwaho na muganga, amurebera iryinyo rifite ikibazo mu kanwa ke.

Umwana ufite akantu koza amenyo mu ntoki, akaba ari kwerekana amenyo bigaragara ko agiye kuyoza, akaba ari uburyo bigishwa mu buryo bwo gusukura amenyo kugira ngo bayarinde indwara zitandukanye.

Abantu benshi abahagaze ndetse n'abicaye harimo abagore, abagabo ndetse n'abakobwa. Ubona ko bari kwifotoza bishimye. Ku ishati ya buri muntu hariho ikarita yerekana ibyo bakora.

Umwana ukiri mutoya uri kwa muganga, wambaye n'umwambaro w'abarwayi, akaba yasamye kugirango muganga amurebere ikibazo afite mu menyo ye, kaba ari kumwe na muganga ari no kumukoza akantu kabugewe ahagana mu kanwa.

Abantu bari ku munzani banabapima uburebure ngo barebe ko uburebure bwabo n'ibiro bingana, akaba ari uburyo bushyirwaho n'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima, mu rwego rwo kwita ku baturage.

Umwana wicaye ku ntebe ibaje mu rubaho, akaba yasamye ari kwitabwaho n'abaganga babiri, bambaye udupfukamunwa bari kumurebera mu kanwa ke ngo barebe ko hari ikibazo afite mu menyo, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ibipapuro ndetse n'ikaramu.

Umusore wambaye umupira w'ibara ry'umweru na rineti mu maso akaba ari kwerekana ko amenyo ye nta burwayi na butoya afite ndetse nta n'umwanda afite.

Ni kwa muganga mo imbere ye haryamyemo umurwayi ku gitanda cyabugenewe akaba yari kwitabwaho n'abaganga babiri, bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa. Umwe akaba ari kumwitaho ahagana hejuru mu maso, undi akaba ari kureba mu gice cyo mu kanwa.

Ni umukobwa uryamye kwa muganga wambaye umwenda wagenewe abarwayi, muganga akaba amaze kumwitaho ndetse anamukura iryinyo n'iruhande rwabo ukaba ubona ko hari undi muganga uhahagaze.

Umukobwa wambaye agapira gato k'ibara ry'umweru uri koza amenyo anireba mu ndorerwamo, bigaragara ko afite amenyo meza ndetse adafite n'uburwayi na bumwe ahagana mu menyo.

Ni kwa muganga, hari igitanda cyegamirwa cyagenewe kuryamaho abarwayi, hari n'ibikoresho kandi byinshi byifashishwa mu kuvura, haryamye umugore wasamye uri kwitabwaho na muganga ngo arebe ikibazo afite ahagana mu menyo.

Umugabo ufite ubwanwa bigaragara ko arimo araseka. Yambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'agapira kijimye ahagana mo imbere. Ubona ko amenyo ye asa neza rwose nta burwayi afite.

Ni icyumba cyahariwe kuvurirwamo amenyo ndetse kirimo n'intebe yabugenewe yicaraho umurwayi, hakaba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku barwayi b'amenyo.

Ni kwa muganga mo imbere, aho abaganga babiri bafite ikintu kimeze nk'inkanka y'umuntu kirimo amenyo. Bakaba bacyifashisha nko mu gupima uburyo mu kanwa k'umuntu hagomba kuba hameze.

Umugabo uhagaze wegamye ahantu higanje ibara ry'umuhondo wambaye umupira w'ibara ry'umweru, uri guseka, bigaragara ko amenyo ye nta kibazo afite nta n'uburwayi yigeze ahura na bwo, ikindi kandi anasa umweru.

Umugabo bigaragara ko aribwo akibyuka kuko yambaye imyenda yagenewe kurarana, akaba ari kwireba mu ndorerwamo areba ahagana mu menyo ye ndetse akozamo n'agati kugira ngo arebe nimba nta kibazo amenyo ye yagize.

Umugore uri ku meza amwe n'umusaza ukuze, imbere yabo hari imbuto ndetse n'icyo kunywa, umugore akaba ari gusukira umusaza icyo kunywa bigaragara ko ari kumwitaho kubera ko we ari mu za bukuru.

Ni mu cyumba hari umugabo uri mu za bukuru ufite n'umusatsi w'umweru ku mutwe, akaba atagishobora kugenda neza bigaragara ko ari kwitabwaho n'abantu babiri kugira ngo bamugeze aho agiye.

Umusaza ubona aka ari mu zabukuru wicaye mu gatebe k'abantu batabasha kugenda neza cyangwa abafite uburwayi bw'amaguru, ubona ko hari akantu ari gukinisha afatanije n'umwana wicaye iruhande rwe.

Umubyeyi w'umugore ndetse n'umusaza bigaragara ko bashaje, bakaba bahagararanye n'abana babo ndetse n'umwuzukuru bari kwifotoza, ubona ko bose bishimye.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, haryamye umusaza ubona ko ari mu zabukuru ahagana ku gitanda cyagenewe abarwayi, abona ko ari kwitabwaho na muganga. Yambaye ikintu ku kaboko ndetse iruhande rwe hari imashini yifashishwa mu kuvura.

Umugabo ufite imvi, bigaragara ko ari mu zabukuru, atakibasha no kugenda neza. Akaba ari gufashwa n'undi mugabo wambaye linete ndetse n'agapfukamunwa, bigaragara ko hari aho bagiye kujya.

Ni mu nzu mo imbere hicayemo abantu bashaje ku buryo ku ruziga, ubona hari abari kuboha abandi bicaye bateze amatwi, ubona ko hari uri kubacira imigani.

Umusaza ubona ko ari mu zabukuru akaba yicaye mu ntebe afite n'inkoni imufasha kugenda mu kaboko k'ibumoso, iruhande rwe hari umuganga uri kumusekera ubona ko ari kumwitaho.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri uri kuyikorera ahagana hasi ku kanwa ka bugenewe, uri kugorora ahagana hasi ku kuguru, iruhande rwe hari intebe zegamirwa ndetse n'itara ryo mu nzu.

Ni muri salo harimo ibikoresho byinshi bitandukanye hasi hashashe amakaro, hari umugabo ufitete ka kuma uhabwa no kwa muganga kagufasha kugurora amaguru cyangwa kongera kugenda akaba ari kubifashwamo na muganga amwerekera uko abigenza.

Ni mu nzu mo imbere, hari akabati hateretse ameza, hahagazemo umusaza ubona ko ari mu zabukuru ndetse n'umukobwa, imbere y'uwo musaza hateretse mudasobwa, iruhande hari ikirahure cy'amazi ndetse bari kumuha ikinini mu kiganza kugira ngo anyweshe ayo mazi.

Umugore wicaye ku meza amwe n'umusaza, bigaragara ko ari mu zabukuru, bicaye muri salo irimo intebe ndetse n'ameza, bigaragara ko umugore ari gusomera umugabo impapuro kubera ko we atabona neza.

Umusaza wicaye mu ntebe, uri gufashwa n'umuganga kugorora amaboko. Akaba ari gukoresha ukuboko aterura akantu karemereye, mu buryo bwo gusubizamo imbaraga mu kaboko ke, cyangwa kugafasha kongera gusubira ku murongo.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza amwe ubona ko bishimye kubera ko bafite utuntu twabugenewe two gukinisha ndetse tugatuma n'abantu bashaje bongera gutekereza, ibyo bikabafasha mu kugira ubuzima bwiza kandi buzira imihangayiko.

Umugabo n'umugore uri kumera imvi bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, birukanka ahagana mu muhanda. Nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri akaba ari myiza kubera ko irinda abantu gusaza ndetse ikanabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagore babiri harimo umunini n'umutoya bose bambaye imyenda yo gukoresha imyitozo ngororamubiri, bari mu muhanda bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri, ikaba ifasha umubiri mu kugabanya ibinure gutuma amaso atembera neza mu mubiri n'ibindi.

Ni mu mbuga harimo ibyatsi hakabamo indabyo ndetse n'ibiti by'imbuto, hicayemo umusaza wambaye agapfukamunwa uri kwitabwaho n'umuganga bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Ni umuhanda, ahagana ku ruhande hari ubusitani buriho indabyo ngufiya kandi nziza. Uwo muhanda ukaba uri kugendamo abantu bari mu myitozo ngororamubiri, ndetse bambaye imyenda n'inkweto byabugenewe.

Umuryango wishimye, ukaba uri kwifotoza ahagana mu muhanda, bose bari guseka. Inyuma yabo bigaragara ko hateye ibiti birebire, byifashishwa mu kongera umwuka mwiza mu baturage.

Umukecuru bigaragara ko ari mu zabukuru ufite n'imvi wambaye rinete, ari ahagana hanze y'inzu ndetse ari kuganira n'umuganga wambaye ikintu cy'umukara mu ijosi ubona ko bose bari guseka.

Umugore bigaragara ko akuze, utari kugaragaza ishusho yo mu maso, ufite ka kantu umuntu ahabwa no kwa muganga, gafasha abantu kongera kugurora amaguru cyangwa kuyasubiza ku murongo, akaba ari kukagenderamo ngo arebe ko yakira, inyuma ye hateretse intebe yo kwicaramo.

Ni inzu ubona ko ifite ibikorwa biberamo, harimo ubudozi n'ibindi. Hakaba hari abagore batatu bicaye ahantu hamwe, uri hagati akaba ari kubereka muri terefone ye.

Ni mu nzu mo imbere harimo umusaza ubona ko yagize ikibazo cy'amaguru, akaba ari kugendera muri ka kantu bahabwa n'abaganga kigisha abantu kugenda cyangwa kagatuma amaguru yawe yongera gusubira ku murongo, akaba ari kubifashwamo n'umuganga.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri hamwe n'umukobwa we, bifashishije umupira badunda bakoresheje amaboko, akaba ari uburyo bwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri kuko irinda indwara nyinshi zitandukanye ndetse ikanatuma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umusaza uri mu za bukuru, uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, ubona ko ari gufashwa n'umusore ukiri muto. Akaba ari uburyo bwo kwita ku muntu uri mu za bukuru, mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni muri saro harimo intebe zegamirwa, hakabamo itara ryabugenewe ryo muri saro ndetse n'akabati. Hicayemo umusaza kandi ubona ko ari mu zabukuru, uri kwitabwaho na muganga amwambika cya kintu ku kaboko gipima ubushyuhe mu mubiri.

Ni mu isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'imbuto, imboga, inyanya ndetse n'ibindi. Hakaba hari abagore bicaye iruhande rw'inyanya, ubona ko bari kuganira.

Ni ahari kubera ubukwe akaba ari igice kiganjemo abantu bari mu zabukuru, imbere harikugaragara umusaza n'umukecuru bakenyeye imikenyero y'amabara atandukanye.

Umusaza n'umugore ubona ko bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibinini ndetse na mudasobwa, ubona ko umusaza ari kwereka umugore bicaranye amusobanuza uko azajya afata imiti.

Umusaza wambaye rinete ubona ko afite imvi, afite ikaramu mu ntoki hari igitabo ari gusoma, akaba yasinziriye ubona ko byatewe n'umunaniro w'abashaje cyangwa abari mu za bukuru.

Umugore wicaye mu gatebe kagenewe kwicaramo abantu bafite uburwayi bw'amaguru, uteze igitambaro mu mutwe, wambaye na rinete z'amaso, inyuma ye hari umuganga uri kumureba mu maso, ubona ko bari guseka.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bakuze kubera ko bose bafite umusatsi w'umweru, bicaye ku meza amwe umusaza agiye kunywa imiti, mu gihe umukecuru ari kumwereka uko agomba kuzajya ayifata kugira ngo azakire vuba kandi neza.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bari mu zabukuru bicaye ku meza amwe begeranye, ubona ko umwe ari gusomera undi uko imiti igomba gukoreshwa ndetse iruhande rwabo hateretse n'ikirahure cy'amazi.

Umugore uri mu zabukuru bigaragara ko yatangiye kumera n'imvi, we n'undi mukobwa bari gukata imboga, imbuto ndetse n'ibindi, bikaba byifashishwa mu gutekwa kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye zishobora gufata umuntu.

Mu muhanda w'igitaka ni urujya n'uruza rw'abantu, ubona ko bafite ikintu bagiyemo, kuko bambaye imipira yiganjemo ibara ry'umutuku, ndetse hari n'abakecuru ubona ko bakenyeye.

Umusaza uri mu zabukuru yicaye ahagana ku meza, bigaragara ko ari gusomerwa ibintu runaka n'umuhungu bicaranye. Imbere yabo hari ibikombe bikoze mu mabumba.

Ni mu nzu mo imbere hateye irangi ry'umweru hagana ku bikuta harimo intebe zegamirwa, hagati hicayemo umugore ubona ko ari mu za bukuru yicaye mu gatebe k'abantu batabasha kugenda neza, ari kwitabwaho n'umuganga waje kumureba iwe.

Ni mu gikoni, harimo umukecuru uri mu zabukuru, impande ze zose hahagaze abana, umuhungu n'umukobwa bakuru, bari kwarura ibiryo byiganjemo ndetse n'imboga. Akaba ari uburyo bwo kwita ku bari mu zabukuru kugira ngo batarambirwa n'ubuzima.

Umusaza uri mu zabukuru, wambaye rinete, ufite telefoni mu ntoki wicaranye n'undi mugore ku meza amwe, bakaba bari gusoma ibipapuro ndetse hari n'ibiri ku meza.

Umusaza bigaragara ko akuze ufite umusatsi w'umweru wicaye mu ntebe zegamirwa, akaba ateruye umwana w'umuhungu bigaragara ko ari umwuzukuru we ndetse akaba ari no kumukinisha.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru wicaye ahagana hanze ku muryango, iruhande rwe hakaba hari abuzukuru babiri uw'umukobwa n'uw'umuhungu, ari umusaza ari nabo bana ubona ko bafite icyo kurya mu ntoki zabo.

Abantu bakuze higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hari intebe zo kwicaramo, ndetse zinabafasha kugenda. Bahagaze imbere, bakaba bari kwifotoza ndetse iruhande rwabo hubatse inzu yiganjemo ibendera ry'igihugu.

Abaturage bicaye mu buryo bw' uruziga munsi y'igiti ubona ko bose bakurikiye uri kubaha ikiganiro udahagaze mu ruziga, bigaragara ko bose baje mu nama.

Umusaza uri mu zabukuru wambaye rinete, wicaye hamwe n'umukobwa mu ntebe yegamirwa. Uwo mukobwa akaba ari umuganga ndetse yamushyize cya kintu ku kuboko, kibasha kwerekana uko ubushyuhe ufite mu mubiri bungana.

Umukecuru ubona ka ari mu zabukuru uri ahagana mu gikoni, ufite ikirahure kirimo amazi ndetse n'ibinini mu kiganza cye, ubona ko yatinye kubinywa ari kubireba.

Ni mu nzu mo imbere harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, intebe ndetse n'ameza, hari kugaragara umukecuru wicaye bigaragara ko yatangiye kumera n'imvi ndetse inyuma ye hari umukobwa bigaragara ko ari kumwitaho.

Umugore ukuze ariko udakuze cyane, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, agorora igice cy'amaboko kubera ko ateruye utuntu tumufasha kugorora amaboko.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi ari kumwe na mama we baricaye, imbere yabo hari ameza, hari utuntu bari gukinisha ubona ko mama we ari kumwereka uko babigenza, akaba ari uburyo bwo gukinisha abana ubitaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza bigaragara ko ari umusaza kubera ko afite n'imvi yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ndetse iruhande rwe hari umuganga uri kumuganiriza amusobanurira ibyanditse.

Ni mu mbuga harimo ibyatsi bigufiya cyane, hagaze abantu benshi ubona ko bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa cy'ibara ry'ubururu ndetse cyanditseho mu ibara ry'umweru, iruhande hari imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Ni abaganga bari mu cyumba kimwe, bambaye imyenda yabugenewe ubona ko hari umuntu bari kwitaho, abandi bari mu bushakashatsi, muri icyo cyumba harimo n'ibyerekana amashusho ndetse n'ibyifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Inzu yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi harimo nk'inama ndetse n'ibindi. Ubu hakaba hacayemo abantu b'abayobozi ubona ko bari mu nama, imbere yabo hakaba hari abandi bicaye bari gutanga ikiganiro, mu gihe abandi babakurikiye.

Umutegarugori wambaye neza wicaye mu ntebe yegamirwa ufite indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo, akaba yicaye ubona ko hari abantu ari kuganiriza ndetse inyuma ye hometse igipapuro cyanditseho amagambo yiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Umugore wicaye ahagana ku meza, iruhande rwe hari umuganga, uri kumwitaho amwambika cya kintu bambara ku kaboko kerekana uko ubushyuhe mu mubiri bumeze, ahagana hirya hari abandi baturage na bo ubona ko bari kwitabwaho.

Abagabo babiri bambaye neza amakoti ndetse na karuvati, ubona ko bari guhererekanya ububasha, umwe aha igipapuro undi ndetse banasuhuzanya.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye hakurikije imirongo, intebe yicayeho abantu babiri ubona ko bari kwakira buri umwe, imbere hakaba hari uri kubakira wambaye n'ingofero y'ubwirinzi mu maso.

Ni igishushanyo kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, cyerekana uko ibitaro bigenda bikurikirana mu byiciro na buri mu mumaro w'ibitaro runaka.

Inzu ifite ibaraza rirerire, ubona ko hicaye abantu benshi biganjemo abagore, ubona ko bose barangariye ikintu kimwe. Inyuma y'iryo baraza hari icyapa kihanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ni inyubako yagenewe gutangirwamo ibiganiro ndetse no kuberamo inama. Hakaba Hicayemo abantu bambaye imipira y'ibara ry'umweru ndetse bose ubona ko bakurikiye uri imbere, ari kubaha ikiganiro.

Ni basore babiri umwe aricaye, undi arahagaze, bakaba bambaye imyenda y'ibara rimwe ndetse y'amakoti. Bari ku gishushanyo ubona ko hari igikorwa runaka bari kwamamaza.

Igipapuro cyiganjemo ibara rya oranje. Uruhande rumwe cyanditseho, urundi ruhande kiriho ifoto ya Nyakubahwa Jeannette Kagame bigaragara ko hari ahantu ahagaze, afite n'indangururamajwi hari ikiganiro ari gutambutsa.

Igipapuro cyiganjeho ibara ry'ubururu n'umweru n'icyatsi, hakaba hari amagambo yanditse mu ibura ry'umweru avuga isoko mu kuboneza urubyaro, ahagana hepfo hakaba handitseho imyaka icumi.

Ni inzu iterangi ry'umuhondo, ahagana ku bikuta, ikaba imanitsemo n'amashusho menshi. Hicaye abagore bagera kuri bane ku ntebe imwe ndetse bose ubona ko bateruye abana bari mu kigero kimwe, baje kubasuzumisha.

Abagore benshi bari ahantu hamwe, abahagaze, abicaye ndetse ubona ko bafite n'amakarita aranga icyo bakora, bakaba bari kwifotoza, ubona ko hari igikorwa runaka kirangiye kandi bishimiye.

Abantu bambaye amakoti bicaye ku ntebe y'urubaho, ubona ko bari kwifotoza ndetse inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahagaze, bakaba bari mu nzu ubona ko yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, nk'inama n'ibindi.

Ni inzu yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi harimo nk'inama ndetse n'ibindi biganiro, ubona ko hari abantu biyubashye cyane rwose baba bagore n'abagabo bicayemo bari gukurikira ibikorwa biri kuhabera.

Abaganga bambaye utwenda twabugenewe ndetse n'udupfukawa bari gukingira umusore mu rwego rwo kumurinda indwara y'icyorezo yari yaraje bitaga Korona virusi.

Imboga z'ubwoko bwose zitandukanye harimo; ibishyimbo, karoti, ibitunguru n'izindi, akaba ari imboga abantu bakwiye kurya mu rwego rwo kwirinda imibereho mibi, bakirinda n'indwara nyinshi zitandukanye kubera ko kuzirya bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Abaganga bari mu cyumba kimwe cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, bakaba bitegereza umwe uri gukora ubushakashatsi ngo barebe ibyo arimo icyo biri buze gutanga.

Ni inzu nziza igeretse gatatu, ifite ibirahure birinda abantu kugwa ahagana hasi ifite ahagenewe guparika ibinyabiziga. iri ku muhanda w'amabuye.

Ni kwa muganga, hubatse mu buryo butangaje, hejuru hari amatara, hasi ubona ko hari isuku ihagije. Harimo ibitanda byinshi byagenewe kuryamaho abarwayi bisasheho igitambaro cy'ubururu.

Ni igiti kirekire cyane gifite amashami manini kandi abyibushye, ahagana hasi harubakiye n'amabuye. Ndetse hari n'ibyatsi bigufiya, imbere kandi hicaye umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu.

Ni kwa muganga aho winjira bwa mbere, aho bakira abagana ikigo nderabuzima. Hakaba hicaye abantu bategereje ngo babanze babafashe babone kujya kubonana na muganga.

Ni kwa muganga, hubakishije amabuye y'ibara rya kake, hari urubaraza rurerure. Ahagana mu rubaraza hari kugendamo abagabo babiri, umwe muri bo ari umuganga, iruhande hari ubusitani.

Ni kwa muganga ahagana hasi hashashe amabuye mu rwego rwo kwirinda ubunyereri kubahagana, hari inyubako yagenewe kwakirwamo ababyeyi igeretse ndetse imbere yayo hahagaze abaganga bane b'abagore bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa.

Ni icyumba kinini cyo kwa muganga harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, hakaba harimo kandi umuganga ubona ko ari kwita ku mwana ukivuka, amwambika imyenda ndetse n'utundi tuntu ku maboko.

Ahagana kwa muganga ku nzu yagenewe ababyeyi izwi nka materinete, hakaba hicaye abanyabuzima ndetse inyuma hahagaze n'abandi bantu bambaye neza, harimo nk'abashinzwe umutekano, umusaseredoti ndetse n'abandi bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu yubakishije amatafari ahagana hasi hashashe amakaro, ifite urugi rw'ibirahure ndetse ahagana hejuru hari ijambo rihanditse mu mabara atandukanye.

Ni inyubako nziza igeretse rimwe, iteye irangi ry'umweru, ifite n'utuntu tw'utwuma turinda abantu kugwa, ahagana hasi hakaba hashashe amabuye mu rwego rwo kurinda kunyerera abahagana.

Ni mu ishuri, hari umwana w'umuhungu ufashe ikintu yahawe na muganga, akaba ari kumwigisha ndetse anigisha muri rusange, uko bagomba koza amenyo kugira ngo bayarinde indwara zitandukanye, inyuma yabo hari mwarimu wigisha ndetse n'abandi bantu baje kuyisura.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga kirimo amasanduku manini yagenewe kubikwamo, ibikoresho byo kwa muganga harimo n'imiti, hakaba hatetse kandi n'ameza, kimwe muri ibyo bisanduku hakaba hari umuganga uri kurebamo ubona ko hari icyo ari gukuramo.

Inyubako yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nk'inama ndetse n'ibindi biganiro, hakaba hateyemo intebe nyinshi z'umukara zegamirwa.

Ni kwa muganga ahagana hagati harimo ibitanda byagenewe kuryamaho abarwayi, hakaba harimo irido iri mu ibara ry'umuhondo ibasha gutandukanya igitanda cy'umuntu umwe ndetse n'icy'undi.

Inyubako nziza igeretse rimwe, ifite ibaraza ikagera naho guhagarika ibinyabiziga, ikagira n'ubusitani bugufiya, ahagana hasi hashashe sima mu buryo bwo kurinda ubunyerere abahagana.

Ni inyubako iri ibara ry'umuhondo ahagana hasi, ifite ubusitani burimo indabyo ngufiya z'umuhondo, icyatsi n'izindi, akaba ari inyubako ya CARAES, yiganjemo abantu baba barwaye mu mutwe ndetse ikaba iterwa inkunga n'abihaye Imana.

Ni icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara kiri ku muhanda, ruguru yacyo hakaba hubatse igipangu cy'amatafari ahiye, akaba ari mu muhanda w'igitaka.

Ni kwa muganga hasi hashashe amakaro, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, biteretse ahagana ku meza.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, hari igitanda ubona ko kiryamyeho n'umurwayi. Hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura, hari kandi umuganga ubona ko ari kwita kuri uwo murwayi.

Ni igikoresho kimwe mu byo kwa muganga kiba cyiganjemo ibikoresho bikora ubushakashatsi. Hakaba hateyemo kandi intebe imwe yegamirwa y'umurwayi ndetse n'indi yo kwicaraho umuganga mu gihe ari kwita ku murwayi.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, kirimo ibitanda byagenewe kuryamaho abarwayi, ubona ko hari abagore babiri baryamye no kuri ibyo bitanda. Umugore umwe muri bo aricaye ari kwitabwaho na muganga.

Ni inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye, igatera irange ry'umweru ahagana ku madirishya no ku nzugi, ifite ibaraza ahagana hasi hashashe amakaro, imbere hari ubusitani burimo n'indabyo ngufiya.

Ni inzu yubatse ku muhanda wa kaburimbo, ifite ibaraza iteye irangi ry'umweru. Ifite imiryango ibiri yose icururizwamo imiti myinshi itandukanye, yifashishwa kandi ikanavura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni bitaro bya Kabutare, ahagana hanze hahagaze abantu biganjemo abagabo, bambaye udupfukamunwa, ahagana hasi hashashe amapave mu rwego rwo kwirinda ubunyereri ku bantu bahagana.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, hashushanyijemo ibishushanyo byinshi bitandukanye. Ahagana hagati harimo igitanda kimwe cyagenewe kuryamaho abarwayi ndetse cyegeranye n'intebe yicaraho muganga ari kwita ku murwayi. Hakaba hari andi meza ateretse iruhande.

Ni ibitaro bikuru bya Kabgayi byubatse ahagana ku muhanda, mo imbere harimo inyubako z'amatafari ahiye, hakabamo ubusitani bufite indabyo ndende ndetse n'ingufiya, winjira harimo abantu ubona ko bari kugana yo.

Inzu nziza yubatse mu buryo butangaje, igeretse rimwe nini kandi ndende, ifite ibaraza ahagana hasi, iteyeho irangi ry'umweru, ikagira n'inkingi, ikagira aho guparika ibinyabiziga, ndetse iruhande rwayo hari n'ubusitani burimo indabyo ngufiya.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga kirimo ibitanda byagenewe kuryamaho abarwayi, hakaba haryamyemo n'abagore babiri, haba harimo kandi amarido hagati abasha gutandukanya igitanda n'ikindi.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga kiryamamo umurwayi umwe mu gihe ari kwitabwaho na muganga. Haba harimo igitanda kimwe cyagenewe abarwayi, iruhande harimo agatebe kicaraho na muganga, ku nkuta z'ibikuta hagiye hari ibyifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abaganga bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda yabugenewe, haba ku mubiri ndetse no ku ntoki. Ubona ko bari bafite ikintu bari gukorera ubushakashatsi, bakaba bari kwifotoza bishimye.

Ni mu inzu mo imbere. Ahagana hasi hashashe amakaro, hejuru hari purafo, ku nkuta hateye irangi ry'umweru wijimye. Harimo amayetajeri arimo imiti myinshi itandukanye, hakaba hacururizwa imiti myinshi itandukanye kandi ivura.

Ni kwa muganga mo imbere, hasi hari amakaro, mo hagati haterimo intebe zigamirwa. Hakaba ari aho abantu bakirirwa mu gihe batarabonana na muganga.

Ni kwa muganga mo imbere mu cyumba cy'abarwayi, hakaba hari n'ibitanda byinshi byagenewe kuryamaho abarwayi. Hari amarido aba atandukanya igitanda n'ikindi ndetse ahagana hagati harimo umuganga ubona ko ari kugenda.

Inyubako yubatse i Kanombe mu buryo bugezweho, ahagana hejuru ikaba ifite icyapa cyerekana ko hacururizwamo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ni inyubako imwe mu zo kwa muganga, ahagana hasi hashashe sima ku nkuta hateye irangi ry'umuhondo, hagati hahagazemo umubyeyi uteruye, umwana inyuma ye hari umuganga.

Umukobwa wambaye umwenda udoze mu gitenge, uryamye ku gitanda, bigaragara ko ari kwitabwaho n'umuganga wamusanze iwabo ndetse hari n'umubyeyi we, ubona ko bari kumwitaho ngo barebe ko yakira.

Ni abantu bari mu zabukuru, bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo, ubururu, bakaba bicaye ku ntebe ndetse ubona ko bose bakurikiye uri kubaganiriza, iruhande rwa buri muturage kandi hagiye hateriretse icupa ry'amazi.

Inyubako yubakishije amabuye ifite ibaraza, ubona ko hari abantu benshi barihagazemo, ku mpande zayo zose hari ubusitani burimo ibiti birebire ndetse umuhanda ucamo ahagana hasi hashashe amabuye, harimo n'abantu bari kugenda.

Ni kwa muganga mo imbere, ahagana ku gikuta hejuru hari icyereka abantu amashusho ndetse hashushanyije n'ibishushanyo byinshi bitandukanye, ahagana hasi kandi hari igitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi ndetse n'intebe yicarwaho na muganga.

Ni kwa muganga hari inyubako zigezweho, inzu nziza, hari imbuga irimo ibendera ry'Igihugu ndetse hari n'ahagenewe guhagarika ibinyabiziga byaje bihagana.

Umubyeyi wicaye ku ntebe uteruye umwana w'uruhinja, uwo mwana akaba ari kwitabwaho na muganga wambaye ingofero y'ubwirinzi, agapfukamunwa ndetse n'amarinete ahagana mu maso.

Ni ku kigo nderabuzima, aha hakaba ari ahagenewe gukorerwa ubushakashatsi hakurikijwe ibipimo byatanzwe n'abarwayi, hakaba hari ibaraza riteyemo intebe yicayemo abantu ubona ko bategereje ibisubizo.

Inyubako nziza itera irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya n'inzugi, biteye irangi ry'umweru, ikagira ibaraza ubona ko rihagazemo abantu benshi bagiye kwaka serivisi. Ahagana ku irembo hasashe sima, ndetse hagenewe guparika ibinyabiziga.

Ni kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi, hakaba harimo n'intebe zijya kumera nk'ibitanda, zigamirwa, zicaraho abarwayi mu gihe bagiye kuvurwa, hateye irangi ry'umweru ahagana ku bikuta.

Ni kwa muganga mo imbere hasi hasheshe amakaro, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa bari kuvura abarwayi, harimo ibitanda bijya kumera nk'intebe byegamirwa byagenewe kwicaraho abarwayi mu gihe bari kubavura.

Ni inyubako ndende nziza igeretse gatatu, ifite inzugi z'ibirahure n'uturinda abantu kugwa, ahagana hasi hari aho guparikwa ibinyabiziga, muri iyo nyubako haberamo ibikorwa byinshi ndetse umuryango umwe ucururizwamo imiti myinshi itandukanye.

Inyubako nziza igeretse gatatu, yubatse mu buryo butangaje, ubona ko hari ibikorwa byinshi biberamo, ifite utuntu tw'utwuma turinda abantu kugwa ndetse ahagana hasi hari ibaraza, ku mbuga kandi hashashe amabuye.

Ni kwa muganga mu cyumba cyagenewe kuryamamo abarwayi, harimo ibitanda byinshi ubona ko biriho n'abantu barwaye ndetse ahagana hagati harimo umukobwa n'umuhungu bambaye udupfukamunwa, ubona ko bari mu masuku.

Ni inzu izwi ku izina rya konoshi, ikaba ifite ibaraza rifite n'inkingi. Ifite inzugi zinakinguye z'ubururu bwijimye, ahagana hejuru hari icyapa cyerekana ko icururizwamo imiti itandukanye.

Ni kwa muganga ahagana hasi hashashe amabuye ndetse harimo ubusitani bwiza burimo indabyo ngufiya ndetse n’indende, mo hagati hagiye harimo amatara ameze nk'ayo ku muhanda ndetse inyubako z’aho zubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ni ibitaro bikuru bizwi ku izina ry'umwami Fayisari, ahagana imbere hari inyubako ikwinjizamo igeretse gatatu, imbere yayo hakaba hari amabendera atatu atandukanye ndetse ahagana hasi hari ubusitani, hari n'aho kwakirira abantu ubona ko hari abantu benshi bari kubiganamo.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga kibikwamo ibikoresho bitari byinshi, hakaba harimo ameza y'umukara ateretseho mudasobwa ndetse n'intebe y'ibara ry'umukara, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, ahagana hasi yashashe amakaro.

Inzu ubona ko iberamo ibikorwa byinshi bitewe n'ibipapuro bigiye biyometseho, ahagana hasi, ifite ahagenewe guparika ibinyabiziga. Ikaba ifite icyumba cyagenewe gucuruza imiti gusa ndetse ahagana hirya hari aho bacururiza imyenda.

Ni ikigo nderabuzima cyo mu Matyazo ndetse ahagana hanze ku gipangu hari icyapa cyerekana ko aho ngaho ari mu kigo nderabuzima kikaba cyubatse ku muhanda wa kaburimbo ubona ko harimo urujya n'uruza rw'abantu.

Inzu nziza iteye irangi ry'umweru yiganjemo ibirahure ahagana hasi, ifite ahagenewe guhagarara ibinyabiziga, ikaba ifite n'ubusitani bwiza burimo n'indabyo imbere yayo, ndetse ahagana hasi ku irembo hashashe sima.

Ni kwa muganga ku gitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi haryamyemo umugabo ubyibushye bigaragara ko ari kwitabwaho, impande ze zose hakaba hari ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura ndetse ahagana hasi hakaba hashashe amakara.

Ahagana kwa muganga hari inyubako nziza, yubatse mu buryo butangaje. Ahagana hanze mu ibaraza hari abantu babiri bahagaze ubona ko bategereje.

Inzu nini igereritse gatatu yubakishije amatafari ahiye, ifite ahagenewe guhagarara ibinyabiziga ahagana hasi, ahagana hejuru y'iyo nzu hakaba hari icyapa cyerekana ko hatangirwamo serivise zose zo kwa muganga ariko akaba ari ikigo kigenga.

Ni kwa muganga, hari inyubako nziza ziganjemo ibara ry'umweru, hakaba hari n'ubusitani, ndetse burimo n'imbuto. Hakaba hazitije kandi utwuma natwo turi mu ibara ry'umweru. Hakaba hari n'ikigega cyagenewe kubika amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Ni kwa muganga, hari inzu imwe mu yagenewe kwakirwamo abagore. Iteye irangi ry'umweru, ifite ibaraza ndetse ikagira n'inkingi.

Ni inyubako izwi ku izina rya konoshi ifite imiryango ibiri y'ubururu bwijimye, ahagana hasi hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga nka moto, ikaba icururizwamo imiti myinshi itandukanye.

Inzu imanitsemo ibipapuro byinshi by'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima, harimo umugabo uhagaze imbere, uri gusobanurira abandi ibyanditseho ndetse abandi bicaye mu ntebe imbere yabo, hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, hejuru giteye irangi ry'umweru, cyubakishije amatafari ahiye, kikaba cyarubatswe mu buryo bwo gufasha abaturage kubarinda kujya kwivuza kure yabo.

Ni inyubako y'amatafari ahiye, ifite ibirahure, akaba ari inyubako imwe mu zigize kwa muganga, ikaba yakirirwamo abakorewe ihohoterwa, cyane cyane irishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza zigeretse, zituranye kandi zubatse mu buryo bumwe, zikaba ziganjemo ibara ry'umweru, ziri ahagana ku muhanda w'igitaka ndetse uwo muhanda ukaba wiganjemo urujya n'uruza rw'abantu.

Inyubako ndende yubatse mu buryo butangaje bwiganjemo ibirahure, igeretse ndetse ahagana hasi ifite ahagenewe guhagarika ibinyabiziga, akaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zose, gusa ikaba yigenga.

Inyubako ndende iteye irangi ry'umweru, ubona ko igeretse rimwe. Ahagana aho abantu basohokera hakaba harimo gusohokamo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ni inyubako ndende yubatse mu matafari ahiye, igeretse kabiri, ahagana hasi hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, hejuru kandi hari icyapa kiganje mo ibara ry'umweru cyerekana ko ari ibitaro byigenga.

Imipira myinshi itandukanye harimo iy'amaguru, iyo bakina bakoresheje ibiganza ndetse n'indi, irunze ku kantu kazingazinze nako kifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero z'ubwirinzi ndetse n'utundi twambaro ku maboko tubarinda kuvunika intoki. Bakaba bari mu mukino witwa rugubi ukaba nawo uri mu cyiciro cy'imyitozo ngororamubiri.

Umusore uhagaze ahantu wambaye utwohereza amajwi mu matwi, akaba ari kunywa amazi yifashishije icupa, nk'uko tubizi amazi akaba ari ingirakamaro mu mubiri wacu kuko aturinda indwara ndetse akanafasha amaraso gutembera neza mu mubiri.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kuko harimo n'ibikoresho byinshi byifashishwa, hakaba hari kugaragaramo abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, akaba ari igikorwa mu by'ukuri abantu bakora kugira ngo umubiri wabo ubashe kumera neza ndetse banirinde indwara zishobora no guterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, hari n'ibikoresho byinshi byifashishwa. Ubona ko hari umugabo uri kuyikora, ndetse imbere ye hari undi uhahagaze uri kumwerekera ibyo akora.

Umupira w'amaguru uri mu ibara ry'umweru n'umukara. Iruhande rwaho, hateretse inkweto, bambara mu kaguru, yifashishwa mu gukina uwo mupira. Byose bikaba byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Akantu gakozwe mu byuma, gafite imishumi y'umukara itatu irahagana hagati, kakaba karagenewe gutwara abantu bagize ikibazo mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Abana bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, bambaye n'imyenda yabugenewe, bakaba bari gukina umukino wo gutunda umupira bakoresheje ibiganza, ahagana ku mukingo hari abantu benshi bari kureba iby'uwo mukino ndetse banabashyigikiye.

Umugabo bari kuzirika mu ntoki z'ibiganza mu rwego rwo kwirinda ibikomere ashobora guhura nabyo ahagana ku ntoki ze, iruhande rwe hakaba hari undi muntu wicaye uri kumufasha kubyomeka mu biganza bye.

Imiti myinshi itandukanye: inshinge, imikasi, ga zambarwa mu ntoki n'ibindi byinshi, bikaba byifashishwa mu kuvura umuntu wese ugize ikibazo mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, ukaba wavunika uri nko gukina umupira, hano hari imiti myinshi ivura.

Inyama, amagi, imbuto zitandukanye birunze ahantu hamwe ahagana ku meza, bikaba byifashishwa cyangwa biribwa n'umuntu cyane cyane umaze gukora imyitozo ngororamubiri kuko bimufasha kugarura imbaraga. Iruhande rwa byo hakaba hateza utwuma natwo two guterwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Imbuto z'inyeri zirunze ahantu hamwe, ikirahure kirimo amazi, ndetse n'ikirahure kirimo ji n'ibibabi by'icyatsi kibisi. Akaba ari imiti yifashishwa n'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biba byiza kuyifata umaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ifashe umubiri gukomeza gukora neza.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, hasi iteye sima, irimo ibikoresho byinshi byifashishwa nk'imipira ndetse harimo n'abantu bahagaze bari kurebera uko bikorwa.

Imbuto, inkweto, umugozi wifashishwa mu gusimbuka byose bikaba byifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, izi mbuto zikaba ari byiza kuzirya nyuma y'imyitozo ngororamubiri, mu buryo bwo kugira go ugarure imbaraga.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isaha ku kuboko bigaragara ko ari kugorora igice cyo hasi ku maguru, imyitozo ngororamubiri ikaba ikorwa kugira ngo hirinde indwara zishobora guterwa no kutayikora kandi ikaba ifasha n'amaraso gutembera neza mu mubiri.

Umusore wicaye ahantu mu twatsi, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, nyuma akagira ikibazo cyo kuvunika mu ivi, bigaragara ko ari kwiyitaho ngo arebe ko ashobora gukira vuba.

Inzu yuzuyemo ibikoresho byiganjemo ibyo gukoresha imyitozo ngororamubiri, hakaba haryamyemo umugore bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ikaba ifasha amaraso gutembera neza mu mibiri yacu, ndetse ikaturinda n'izindi ndwara zitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'ibara ry'umweru, utwohereza amajwi mu matwi, bigaragara ko ari kunywa amazi. Nk'uko tubizi amazi akaba ari ingirakamaro mu mubiri wacu, kuko adufasha muri byinshi.

Ni kwa muganga mo imbere mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda byagenewe kuryamaho abarwayi bigaragara ko hari umugabo uryamye ku gitanda, uri kwitabwaho mu gice cy'amaguru ndetse ubona ko hari n'abandi bantu baje kumusura.

Ni mu kibuga hagati ku mpande hubakishije ibiti, hari umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari igikorwa umuntu akora kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zishobora gufata umuntu utakozeza imyitozo ngororamubiri, ndetse abashe no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri we.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wapfukamye ahagana mu muhanda mu rwego rwo kugira ngo abashe kugorora ivi rye neza, ikaba ikorwa mu kugira ngo ifashe umuntu kugira ubuzima bwiza, kwivura indwara nyinshi ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ndetse no gufasha amaraso gutembera neza mu mubiri.

Agasanduku k'umwe gapfunduye karimo imiti myinshi itandukanye iri mu bikarito, kakaba gatwarwamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu bakomeretse mu myitozo ngororamubiri.

Umkobwa uhagaze ku kantu kabugenewe gukoreraho imyitozo ngororamubiri ahagana ku gikuta hari ibara ry'ubururu, akaba ari kugorora igice cy'amaboko ndetse n'amaguru nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri akaba ari myiza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imbuto, amababi yazo, ndetse n'imetero byose birunze ahantu hamwe, bikaba byifashishwa n'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, kuko nka metero arayipimisha, akareba niba uburebure bwe buri kwiyongera, ndetse n'imbuto zimufasha kongera kugarura imbaraga mu mubiri.

Umugabo wicaye ahantu, uri kwikanda ahagana ku kaboko, kwikandisha igitambaro cyagiye mu mazi ashyushye, bikaba na byo biri mu bivura imvune umuntu ashobora no guterwa no gukora imyitozo ngororamubiri.

Inkoni iri mu ibara ry'umukara ikaba yifashishwa mu kugenda, igenderaho umuntu ufite ikibazo mu kuguru, ikaba imufasha kugenda mu gihe yagize ikibazo cy'imvune.

Umukobwa wicaye ahagana hasi ku kantu kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri ndetse ubona ko yambaye n'imyenda yabugenewe. Akaba ari kugorora igice cyo hasi ahagana ku maguru.

Ni imiti myinshi irunze ahantu hamwe iri mu mashashi, mu ducupa, mu bikarito ndetse n'indi, yifashishwa mu kuvura cyane cyane umuntu wavunitse ari mu myitozo ngororamubiri, nko gukina umupira ndetse n'ibindi.

Imiti irunze ahantu hamwe, iri mu mashashi, mu ducupa ndetse n'indi itandukanye, iruhande rwayo kandi hakaba hari isanduku iririmo mu ibara ry'umukara yagenewe kubikwamo iyo miti, ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bakomeretse bari mu myitozo ngororamubiri cyane cyane.

Ni kwa muganga hari umuganga uhagaze hakaba n'undi murwayi wicaye ubona ko muganga ari kumufasha mu buryo bwo kuba yagorora akaguru kugira ngo amaguru ye yongere asubire ku murongo, akaba ari intebe yo kwa muganga iba yaragenewe kugorora abantu amaguru mu gihe hari ikibazo yagize.

Ni ifoto yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, iriho uburyo bwiza bwo kwicara n'imyitozo icumi ngororamubiri ushobora gukora igafasha umubiri wawe mu buryo bwihariye.

Ni umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, uri hafi y'amazi atemba, nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri tukaba tuyikora mu rwego rwo kurinda umubiri wacu, indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umunyamahanga wicaye kuri esikariye, uri kunywa amazi bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, mu by'ukuri amazi nayo akaba afasha umuntu, cyane cyane umaze gukora imyitozo ngororamubiri kuko akomeza gufasha umubiri gukora neza ndetse agafasha n'amaraso gutembera neza mu mubiri.

Umugabo uri muri siporo wambaye imyenda y'umukara, bigaragara ko ari kugorora ingingo z'umubiri we, akaba apfukamye ku kantu kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri kari mu ibara ry'umukara.

Umukobwa n'umuhungu ubona ko bari kwirukanka mu muhanda, bambaye imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ndetse buri wese afite icupa ry'amazi mu kaboko ke.

Umukobwa uri imyitozo ngororamubiri wambaye n'utwohereza amajwi mu matwi ndetse n'ikirinda kwangirika k'ukuboko. Imyitozo ngororamubiri ikaba ikorwa mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zifata umubiri bitewe no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto. Wambaye utwohereza amajwi mu matwi. Akaba ari mu myitozo ngororamubiri agorora igice cyo mu ivi mu kaguru.

Umusore uhagaze ahantu bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba ahagaze mu buryo bwo kugira ngo abanze anywe amazi, nk'uko tubizi akaba afasha umubiri kugarura imbaraga mu buryo bwihuse.

Ahagana hasi hari akantu kaharambuye kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri, hakaba hahagazeho umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora igice cy'amaguru ndetse no mu maboko.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufiya w'ibara ry'umutuku, wambaye n'utwohereza amajwi mu matwi, akaba ari kunywa amazi bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, amazi na yo akaba ari ingenzi ku muntu uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto z'ubwoko butandukanye izirunze ku isahani, ku gatebo gakoze ibiti ndetse n'ibinyampeke nk'amagi, inyama ndetse n'ibishyimbo, iruhande rwabyo kandi hatetse ibintu baterura bari mu myitozo ngororamubiri, ibi byose bikaba bifatwa nk'umuti ufasha umubiri mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye ahagana hasi muri saro ubona ko ari mumyitozo ngororamubiri akurura igice cy'amaguru ndetse n'amaboko, inyuma ye hari intebe yegamirwa iri mui ibara ry'umweru.

Ni icyumba cyagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byose bisabwabona, ubona ko hari abantu babiri, bari gufashwa gukora imyitozo ngororamubiri. Nkuko tubizi ikaba ifasha umubiri kugororoka ndetse ikaba iturinda n'indwara zimwe na zimwe.

Umusore uhagaze ahantu hamwe wambaye utwohereza amajwi mu mutwe, akaba afite icupa ry'amazi ndetse ari kuyanywa nk'uko tubizi amazi akaba afasha amaraso gutembera neza mu mubiri, akaba aturinda n'izindi ndwara nyinshi.

Ni ibikapu bitatu, bitetse ahantu hamwe, kimwe kirafunguye, ikindi kiracuritse, ikindi gihagaze neza, akaba ari ibikapu biri mu ibara ry'umutuku, ndetse bitwarwamo imiti ivura umuntu ugize ikibazo mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uri kunywa amazi, bigaragara ko yari mu myitozo ngororamubiri akaba ahagaze ngo abanze anywe amazi, nk'uko tubizi akaba afasha umubiri mu kugarura imbaraga, mu buryo bwihuse.

Imipira myinshi yagenewe mu gukoreshwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri. Akaba ari imipira myinshi itandukanye, ikinwa hakoreshejwe amaboko, ndetse n'ikoreshwa amaguru.

Ni ikiganza gifashe amazi ari mu icupa ry'ubururu, akaba yifashishwa mu kunyobwa kubera ko avura indwara nyinshi zitandukanye zishobora gufata umubiri ndetse akanatuma ibikorwa by'umubiri wacu bibasha gukora neza umunsi ku wundi.

Umuntu uryamye ku gitanda, bigaragara ko bari kuvura ahagana mu mugongo, bamukorera ibyo twakwita nko mumasa. Akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse akaba ari kwifashisha n'imashini iri iruhande rwabo.

Ni umusore utari kugaragara igice cyo mu maso, bigaragara ko afite icyo twita amatuza kubera ko nta mwenda wo hejuru yambaye, afite utundi tuntu tumwometseho ahagana ku kuboko turi mu ibara ry'umutuku n'ubururu.

Umugabo wicaye utari kwerekana igice cye cyo hejuru bigaragara ko ari kwikanda ahagana mu ivi, akaba ari uburyo abantu bakoresha kugira ngo bakire mu gihe hatabonetse ubuvuzi bw'ako kanya, na byo kandi bikaba bishobora kuvura imvune.

umusore uri kunywa amazi bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri. Nk'uko tubizi amazi nayo akaba afasha abantu cyane cyane abari mu myitozo ngororamubiri, akaba ahita abagarurira imbaraga z'umubiri mu buryo bwihuse ndetse agafasha n'amaraso gutembera neza mu mubiri.

Imbuto ndetse n'imboga zirunze ahantu hamwe, iruhande rwazo hakaba hari akamashini kifashishwa mu kuzisya, zikaba zirinda indwara nyinshi mu mubiri, akaba ari byiza ko buri wese agomba kurya imboga.

Umuntu uri kuvurwa ahagana mu ivi, bigaragara ko yavunitse, akaba aryamye ari kwitabwaho na muganga amukanda, ngo yumve neza aho afite ikibazo.

Umusore uhagaze uri kunywa amazi bigaragara ko asoje imyitozo ngororamubiri, nkuko tubizi amazi akaba ari meza mu mubiri wacu kuko afasha amaraso gutembera neza mu mubiri.

Igipapuro kiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba hariho abagabo benshi bari kwerekana ukuntu ushobora gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye.

Abana benshi bavanze harimo abakobwa n'abahungu bigaragara ko bari mu gikorwa kimwe cy'imyitozo ngororamubiri. Hakaba hari umuntu ubahagaze imbere uri kugenda abafasha abereka ibyo bakora.

Ni icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri hashashemo na tapi y'icyatsi kibisi, hakaba harimo umusore uri gukurimo imyitozo ngororamubiri bigaragara ko ari kugorora igice cy'amaboko ndetse n'amaguru.

Umugabo unywa amazi wambaye akanzu kari mu ibara ry'mweru ahagana ku rutugu bigaragara ko yarari mu myitozo ngororamubiri, amazi akaba yifashishwa nk'umuti mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri. Kuko abasha gufasha umubiri gukora neza ndetse akongera n'imbaraga mu mubiri.

Umukobwa wicaye ahagana hasi mu muhanda w'amabuye, wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ndetse ubona ko ari byo arimo agorora igice cyo hasi ahagana ku kuguru.

Umusore, uri mu myimyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora igice cyo hasi ku kaguru, akaba ari kubikorera ahagana ku kiraro ndetse munsi hari gutembamo amazi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora igice cyo hejuru, akaba ari igikorwa umuntu akora mu rwego rwo kugira ngo abashe kugira umubiri uzira indwara, kandi bikaba binafasha amaraso gutembera neza mu mubiri.

Inkoni ikozwe mu cyuma yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, yifashishwa mu kugenda, akaba ari inkoni ifasha abantu bafite ubumuga mu bijyanye n'amaguru cyangwa mu kuboko, ikaba ibafasha mu buryo bwo kugenda.

Ni amavuta ari mu icupa ry'umweru ndetse n'igipapuro cy'ubururu. Akaba ahagarika ububabare cyane cyane ku muntu wagize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri. Na yo akaba afatwa nk'umuti kubera ko agabanya uburibwe.

Umukobwa mu myitozo ngoramubiri, uhagaze mu rwego rwo kuruhuka. Yambaye isaha ku kaboko. Nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri akaba ari ingirakamaro, kuko ituvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse ikanaziturinda.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bifashisha bari kuvura, hateretsemo ameza ariho ibindi bikoresho, hicayemo umugore wambaye agapfukamunwa n'undi muganga, ubona ko ari gusuzuma umwana ahagana ku gahanga.

Ni muri saro hari umugabo warambuye akantu kagenewe gukoreraho imyitozo ngororamubiri, ubona ko ari kuyikora agorora igice cy'amaboko ndetse no mu nda, akaba ari imyitozo ifasha mu kugabanya umubyibuho ukabije ndetse igakiza n'izindi ndwara.

Umuhungu uri mu myaka ubukure wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko hari umukino yari ari gukina hanyuma akavunika akaba agiye kwitabwaho n'abaganga babugenewe.

Ni umugabo wicaye mu ntebe uri guterura utuntu mu maboko twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari kuduterura kugira ngo intoki ze n'amaboko bigororoke neza ndetse iruhande rwe hakaba hari undi uri kubimufashamo amwerekera.

Umukobwa wambaye imyenda y'abaganga, iri mu ibara ry'ubururu, wambaye n'agapfukamunwa, yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ateretseho impapuro ndetse na mudasobwa.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umusego, bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, yarangiza akavunika akaguru mu gice cyo hasi, akaba ari kwitabwaho n'umuhungu uri kumuzirika mu kaguru ngo abashe kugenda neza.

Umugabo ufite ubwanwa uri kunywera amazi mu icupa rya pulasitike, amazi akaba anyobwa mu buryo bwo kugira ngo afashe umubiri. Nkuko tubizi amazi akaba ari ingirakamaro mu mubiri wacu.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho n'amagambo mu ibara ry'ubururu atsindagiye, hari kugaragaraho urushinge, ibinini byinshi birunze ahantu hamwe, bishushanyije nk'umuntu byose bikaba byifashishwa nk'ibiyobyabwenge.

Ni akantu gakoze mu cyuma kabugenewe, kakaba gatwarwaho abarwayi cyane cyane bagashyiraho umuntu ugize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri bakamuryamishaho kugira ngo bajye kumwitaho.

Ameza atetseho ikibumbano kigisha abaganga uburyo bw'imivurire, hakaba hariho n'igikapu cy'umutuku kirimo akandi kantu kifashishwa, bikaba bikoreshwa mu kwigisha abaganga uburyo bw'imivurire.

Ikintu kiba kizingazingiye ahantu hamwe, kiri mu ibara ry'ubururu giteretse ahantu. Kikaba aba ari igitambaro gikomeye cyane cyifashishwa mu kuvura umuntu wagize igikomere ari mu myitozo ngororamubiri, kuko ukizirikisha imvune ikaba yakoroha.

Abantu babiri umwe ahagaze mu mugongo w'undi, bari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu, bigaragara ko bari bari mu myitozo ngororamubiri igihe kikagera inyota ikabica ubundi bakanywa amazi.

Umusaza uri mu zabukuru, wicaye mu ntebe, uri kwigishwa ukuntu yasubiza akaboko ke ku murongo cyangwa akavura imvune, akaba ari kubifashwamo n'umuganga w'umukobwa, ari kumufasha guterura akantu karemereye.

Imiti myinshi irunze ahantu hamwe ahagana hasi, iri mu bikarito, mu ducupa n'ahandi, ikaba yifashishwa cyane cyane mu kuvura abantu bagize imvune bari mu myitozo ngororamubiri nko gukina umupira w'amaguru n'indi mikino.

Umuntu uri kwitoza kongera kugenda akaba ari kugenda muri ka kantu uhabwa na muganga, kagufasha kugorora amaguru ndetse akaba ari kwitabwaho n'umuganga abimufashamo.

Igikapu cy'ibara ry'umutuku gifite n'imashini z'umukara kabikwamo imiti myinshi itandukanye, iri mu ducupa mu karito ikaba ikoreshwa mu kuvura umuntu ugize ikibazo mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Ni icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko hari umugabo munini uri kuhakorera imyitozo yo kwiruka, ndetse iruhande rwe hari umukobwa wicaye uri kumurebera, hakaba n'ameza abaje mu rubaho abatetse iruhande.

N'imiti myinshi irunze ahantu hamwe iri mu mashashi, mu ducupa tureture, mu ducupa tugufi, ibyo bambara mu ntoki, ndetse n'ibyifashishwa mu gupima. Akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura umuntu ugize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, cyangwa igihe avunitse.

Akantu gakoze mu cyuma, imbuto nyinshi zitandukanye, amazi ari mu icupa ry'ubururu, metero ipima uburebure, byose birunze ahantu hamwe. Ibi bikaba byifashishwa, cyane cyane iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arebe ibintu byinshi bitandukanye, ko byaba byahindutse.

Icupa riri gusuka amazi meza mu kirahure giteretse ahantu, bigaragara ko ari umuntu uri kuyasuka kugira ngo ayanywe, amazi akaba ari ingirakamaro mu mubiri wacu.

Mu muhanda wa kaburimbo haciyemo imirongo myinshi y'umweru, harimo abasore bane bambaye imyitozo yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ndetse ubona ko bari mu masiganwa bari kwiruka.

Umuntu wicaye bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akaba agize ikibazo ku kaguru kamwe, akaba ari kwitabwaho bamuzirika kugira ngo abashe kuba yayisubiramo, nta bubabare ari kumva.

Ni ifoto igabanyijemo ibice byinshi, hakaba hagiye harimo imiti myinshi yo mu byatsi yifashishwa mu buvuzi gakondo, ikaba ivura indwara zitandukanye.

Ifoto igabanyijemo kane, yose ikaba iri kwerekanwaho imiti ya kinyarwanda ndetse hakaba hariho n'abantu ubona ko bagiye kuyisarura. Ikaba yifashishwa mu kuvura na yo igihe hatabonetse ubuvuzi bw'ako kanya.

Icyatsi gifite ubutaka bwacyo, kinyororotse ndetse gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, akaba ari icyatsi kivamo imiti ya gakondo ndetse bamwe bakanakivurisha by'ako kanya, mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi bugezweho.

Umurima urimo ibyatsi byinshi ndetse ahagana hagati hateyemo icyatsi cy'umuravumba, kikaba cyifashishwa mu kuvamo ibinini byinshi bitandukanye, ndetse kikanakoreshwa kitavuye mu ruganda kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'inkorora, ibicurane n'izindi.

Akantu kaboshye mu byatsi gateretseho imiti, mu masahani, mu gikombe ndetse no mu macupa. Akaba ari imiti yo mu byatsi yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse rimwe na rimwe n'abanyarwanda bakayifashisha bivura.

Ni ibyatsi byinshi, muri byo hakaba harimo kimwe gifite amababi maremare, kifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo cyangwa kigakoreshwa n'abanyarwanda muri rusange, bari kwivura indwara zimwe na zimwe.

Amacupa arimo ibara ry'umuhondo nditse hejuru ikigina, arunze mu ikarito hakaba hari n'irindi cupa riri hanze y'ikarito, akaba akurwa mu cyatsi bita igikakarubamba ndetse akaba avura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'imbuto, imboga ndetse n'ibindi, hakaba hacururizwamo n'imiti iri mu macupa ikozwe mu byatsi, ikaba yifashishwa mu ubuvuzi bwa gakondo

Ibyatsi birambitse ahantu, bikoreshwa mu buvuzi gakondo bikaba bivamo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye. Ahagana hejuru hakaba handitseho ijambo mu ibara ry'ubururu ngo "baho neza".

Utujerekani turimo imiti ndetse n'uducupa dutoya n'iri mubikarito birunze ahantu hamwe, bikaba bikorwa mumiti ya kinyarwanda y'ibyatsi nyuma igacishwa munganda, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni amavuta ari mu icupa cy'umweru akorwa mu gikakarubamba. Kiratunganywa, kigakorerwa isuku, kigacishwa mu nganda, kikavamo amavuta menshi atandukanye harimo n'ay'uruhu kandi akaba avura indwara nyinshi ku ruhu.

Ni igihuru cy'ibyatsi byinshi ndetse byinshi muri byo byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda no mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye nk'umuravumba uvura ibicurane n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye.

Igiti giteye ahantu cyonyine kigufiya cy'amababi maremare y'icyatsi kibisi, kikaba kifashishwa nk'umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo, rimwe na rimwe Abanyarwanda bakanakivujisha indwara zitandukanye, mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi.

Ibyatsi bikurira ahantu hamwe bikaba bifite amababi maremare, bikaba byifashishwa nk'umuti w'abanyarwanda kubera ko bishobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'inzoka n'izindi.

Tangawizi zirunze ahantu hamwe ndetse harimo n'ikataguye. Zikaba zifashishwa nko kuziteka mu cyayi kubera ko zivura indwara nyinshi kandi zitandukanye nk'inkorora, anjini n'izindi.

Ni umuti w'amenyo uri mu icupa ryiganjemo ibara ry'umweru, ukaba ukorwa mu gikakarubamba. Ugatunganywa ugacishwa mu ruganda, nyuma ukaba umuti w'amenyo, ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye z'amenyo.

Umugore witize igitambaro cy'umweru mu mutwe, uri mu byatsi byinshi akaba ari gusoroma ku cyatsi kimwe bigaragara ko ari gusoroma umuti, akaba ari imiti iva mu byatsi Abanyarwanda bakunda gukoresha rimwe na rimwe, ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu hateye ibyatsi byinshi, ahagana hagati hakuzemo ibyo twita ibishokoro, bikaba byifashishwa mu kuvura nk'ibisebe n'izindi ndwara zitandukanye.

Ni icyatsi gikura kirandaranda kiba gifite amashami menshi, gikunze kuba ari kigufi ariko na none atari cyane. Kikaba cyifashishwa ahenshi mu buvuzi bwa gakondo no gukora indi miti ya kinyarwanda.

Umukeka urambitse hasi, hejuru hateretseho amasahani abiri y'umweru, imwe iriho ibishishwa n'ibyatsi by'ironje, indi irimo umutobe w'ironji, ibi bikaba byifashishwa nk'umuti, ndetse ubinyweye akaba agira ubuzima bwiza.

Ni etajeri ndende irunzemo imiti myinshi itandukanye. Imyinshi muri yo ikaba ikorwa mu buryo bwa gakondo, hifashishijwe ibyatsi bitunganywa bigakorwa nyuma bigashyirwa mu macupa. Akaba ari imiti na yo ivura mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ibyatsi bikura byirunda ahantu hamwe bifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, bikaba byifashishwa nko mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inzoka n'ibindi.

Ahagana hasi hari agakeka harunze imiti mu masorori menshi atandukanye, akaba ari imiti iva mu byatsi yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse nayo ikaba ivura indwara zitandukanye, ku mpande hari ibiti byifashishwa mu kuyisekura ndetse n'akayiko.

Ibiganza bifashe igipapuro kirimo umuti bigaragara ko useye uvuye mu byatsi. Bakaba bafata ibyatsi bivura bakabitunganya nyuma bakabisya bikifashishwa nk'umuti wa kinyarwanda.

Ni imiti ibitse ahantu hamwe mu ducupa twa purasitike, utw'ibirahure ndetse n'utundi, ikaba iva mu byatsi igihe babifashe bakabitunganya nyuma bigakorwamo iyo miti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ibinini birebire biba biri mu ibara ryijimye, rijya gusa n'umweru biza mu gikarito cyiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, akaba ari ibinini bikorwa mu byatsi hanyuma bigacishwa mu nganda, bikaba bivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni icyapa cyiganjemo imiti ya kinyarwanda cyerekana ko naho bavura, bakerekana n'indwara nyinshi zitandukanye bavura bifashishije imiti ya gakondo.

Ni icyumba ubona ko kirunzemo imiti myinshi idasobanutse, hakaba harimo n'inkono ziri mu mabumba imiti iri mu macupa, ibicupa byinshi birunze mu mufuka, inyubako zidasobanutse zo mu birere by'insina, bikaba byifashishwa nk'ubuvuzi gakondo.

Umuti w'amenyo uva mu gikakarubamba, uba uri mu gacupa k'umweru, bakaba babanza kuwutunganya nyuma bakawucisha mu nganda, ukaza ari umuti w'amenyo kubera ko uba ukoze mu cyatsi cy'ikakarubamba kandi kikaba kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ibyatsi twita ibitovu bifite amahwa ajombana, bikaba byifashishwa na byo mu kuvura indwara zitandukanye ndetse bikaba binavamo imiti y'ubuvuzi gakondo.

Ni imiti myinshi irunze ahantu hamwe ahagana hasi, buri muti uri mu gasorori kawo hakurikijwe ubwoko bwawo ndetse n'uko ukora, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse ikaba izwi nk'imiti ya Kinyarwanda.

Ni mu murima, harimo ibyatsi byinshi bitandukanye, harimo abagore batari bake ubona ko buri wese ari gusoroma, akaba ari ibyatsi byifashishwa mu guteka bizwi nk'imboga, hakaba harimo n'imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Amacupa y'ibirahure arunze ahantu hamwe, akaba yose arimo imiti iva mu byatsi, bakaba bayitunganya, bakayisekura, hanyuma bakayishyira mu gacupa, nyuma ikifashishwa nk'imiti ya gakondo.

Ni ahantu hateye ibikakarubamba byinshi, akaba ari umuntu ubitera mu rwego rwo kugira ngo ateze imbere ubuvuzi gakondo kubera ko ibikakarubamba akenshi bivamo imiti itandukanye, bigakorwamo amavuta ndetse n'ibindi.

Ibinini by'icyatsi kibisi biri mu kantu kabaje mu giti. Bikaba bikorwa bivuye mu byatsi hifashishijwe uburyo bwa gakondo no gukoresha imiti y'ibyatsi.

Imiti ya kinyarwanda irunze ahantu hamwe, buri muti uri ukwawo hakurikijwe ubwoko bwawo, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, akaba ivura indwara zimwe na zimwe.

nI imiti myinshi iva mu byatsi imwerunza hasi indi iri ku isahani ndetse

Ni mu ishyamba hari ibiti birebire ndetse n'ibiti bigufiya. Harimo umugore uhagaze uri kumwe n'umusaza bigaragara ko mu za bukuru, ufashe ku giti, bigaragara ko hari umuti baje kurebamo wa kinyarwanda.

Ni imbuga irimo ibyatsi byinshi bigufiya, hakaba n'icyakuzemo kirekire cyifashishwa nk'umuti w'Inkorora, abaturage bakaba bagifasha mu kwivuza inkorora mu gihe nta bundi buvuzi bubonetse kandi nacyo kiravura.

Icupa rya purastike rifite n'umufuniko, ririmo umuti w'umuravumba. Rikaba riteretse ahantu, ukaba utunganywa, ukozwa, bakawusya, bakawushyira mu icupa. Ukaba wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni igiti bita ipera ubona ko giteye mu rugo rw'umuntu kikaba kigira amababi y'icyatsi kibisi, mu by'ukuri ayo mababi akaba yifashishwa nk'umuti kuko hari indwara nyinshi zitandukanye avura.

Igiti gikura kizana indabyo gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi. Kikaba cyifashishwa na cyo mu buvuzi bwa gakondo, kubera ko na cyo amababi yacyo n'imbuto bivura indwara nyinshi.

Ni umurima urimo amabuye, amatiyo acamo amazi ndetse hakabamo n'ikibabi cy'ipapayi cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse kikaba kivura n'izindi ndwara nyinshi.

Ibinini birebire by'ibara ry'umweru birambitse ku kibabi cy'icyatsi kibisi, bigaragara ko bikorwa mu ruganda ariko byavuye muri icyo cyatsi kibisi, mu by'ukuri n'ibyatsi bikaba bivamo imiti myinshi itandukanye kandi yifashishwa mu kuvura.

Ni mu rugo hakuze igiti bita umuravumba, cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Mu gihe ufashe nk'amababi ukayahekenya, bishobora kukuvura ibicurane ndetse n'izindi. Ukaba kandi uvamo n'indi miti myinshi.

Ni mu gihuru hari ibyatsi byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byatsi harimo nk'ibyifashishwa nk'umuti wa gakondo. Abanyarwanda bakabisoroma bakabikoresha mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi bwihuse. Kubera ko nabyo bivura indwara nyinshi.

Ni inzu irimo imiti myinshi iri mu macupa ndetse no mu dukarito, akaba ari imiti ikorwa mu buvuzi bwa gakondo. Ahagana hagati harimo umugabo, bigaragara ko ayikora ndetse akaba ari na we uyigurisha. Akaba yasuwe n'itangazamakuru mu kugira ngo abisobanureho iby'iyo miti.

Imiti iri mu macupa y'ibirahure iva mu byatsi igatunganywa, nyuma igashyirwa mu macupa, ikaba yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ikindi kandi itetse ku meza abaje mu biti.

Urugo rwubakishije ibiti ahagana hagati hakuriyemo icyatsi cy'amababi maremare, kikaba cyifashishwa nk'umuti kubera ko kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni umuti woza amenyo kandi ukanayavura, ukaba ukorwa mu cyatsi bita igikakarubamba, hakaba hari ikiganza kimwe gifite ako koza amenyo ndetse n'ikindi kiri gushyiraho umuti kugira ngo ufite ako koza amenyo, agakoreshe hariho umuti uyavura kandi unayahoze.

Ni ibyatsi byakuriye ahantu hamwe ubona ko byegeranye, hakaba harakuriyemo n'ibyifashishwa nk'umuti, bivamo imiti myinshi itandukanye ndetse bikavura n'indwara nyinshi.

Amavuta ari mu ibara ry'umuhondo, ari mu makarito, mu bucupa butoya ndetse n'andi, yose akaba akorwa mu gikakarubamba nyuma agacisha mu nganda, akaba avura indwara nyinshi zitandukanye ndetse akanazirinda.

Imineke, inanasi, ibyatsi ndetse n'ibindi biri mu makarito. Ibi byose bikaba byifashishwa nk'imiti ya Kinyarwanda kubera ko izi mbuto zifite indwara zirinda n'ibi biri mu bikarito, bikaba ari uko biba byaciye mu nganda na byo biva mu byatsi.

Ifoto iriho ibyiciro byinshi by'imiti itandukanye iva mu byatsi. Tangawizi, tungurusumu ndetse n'indi myinshi. Ikaba yifashishwa mu rwego rwo kwivura indwara zitandukanye.

Mu icupa rirerire ryo mu kirahure ryuzuyemo ubuki, bukaba bukorwa hifashishijwe umutiba ndetse urimo inzuki, ikindi kandi buvura indwara nyinshi zitandukanye, nk'inkorora ndetse n'izindi.

Umuti w'amenyo, uwo gusiga uruhu birunze ahantu hamwe, biri mu gacupa ka palasitike kiganjemo ibara ry'umweru, akaba ari imiti yose ikorwa mu gikakarubamba, ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye zaba iz'amenyo ndetse n'iz'uruhu.

Avoka ndetse n'igikakarubamba, bikaba byifashishwa nk'umuti kuko ari avoka ivamo isabune, amavuta ndetse n'igikakarubamba kikavamo amavuta, ibiva muri ibi bihingwa byose bikaba byifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu.

Ni imiti myinshi irunze ahantu hamwe, iri mu ducupa itaratunganywa n'iri mu icupa ry'ikirahure. Yose ikaba iva mu byatsi igatunganywa, ikaba ivura mu buryo bwa kinyarwanda cyangwa igakoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa, ibikarito n'amacupa y'ibirahure birunze ahantu hamwe, byose bikaba birimo imiti iva mu byatsi bya gakondo, akaba ari amavuta ushobora gusiga uruhu akavura indwara zitandukanye ku ruhu ndetse n'izindi.

Ni icupa ry'ikirahure rifite umufuniko w'icyatsi kibisi, rikaba ririmo umuti witwa umuravumba, ukaba utunganywa ukozwa nyuma bakawusekura, akaba ari wo turi kubona bashyize muri iri cupa, ukaba wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye nk'ibicurane, inkorora n'ibindi.

Ni mu gisambu hateyemo ibyatsi gusa, ibiti birebire hakabamo n'ibiti bimwe na bimwe byifashishwa mu kuvura, kubera ko bimwe muri byo bifite amababi yifashishwa nk'umuti wa kinyarwanda.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi gakondo kirimo imiti myinshi itandukanye, ubona ko yabanje kwanika ikuma, ikaba itunganywa nyuma bakayishyira mu macupa bakayirunda muri etajeri. Ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni igihuru kirimo ibyatsi byinshi kandi birebire, hahagazemo umuntu wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, ubona ko yagiye gusoroma umuti, akaba ari umuti Abanyarwanda bifashisha mu rwego rwo kwivura ako kanya mu gihe hatabonetse ubundi butabazi.

Ni imiti myinshi, irunze ahantu hamwe, itandukanye hakurikijwe ubwoko bwa buri muti. Ikaba irunze mu kantu kabaje mu biti ndetse iruhande rwako hari irunze mu macupa, ibitse mu ka etageri. Akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi, bwa gakondo.

Ni mu murima bigaragara ko nta kintu giteyemo, harimo ibyatsi bikeya, bimwe muri byo bikaba byifashishwa nk'imiti ya kinyarwanda, kuko harimo nk'umuravumba, umubirizi, ndetse n'ibindi.

Imiti y'ubwoko butandukanye yose yifashishwa nk'ubuvuzi gakondo, buri muti ubona ko hari ikiganza kiwufashe kiri kwerekana uburyo ukora.

Amacupa magufi y'ubururu apanze ahantu hamwe muri etajeri, harimo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ibinini n'indi miti ya Kinyarwanda itandukanye nk'ibyatsi by'amapera birunze ahantu hamwe, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse no kwivura mu buryo bwa kinyarwanda mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi bugezweho.

Icyatsi gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kikanakorwarwamo imiti myinshi y'ubuvuzi gakondo.

Ni igihuru kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'umuravumba. Umuravumba ukaba wifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse ukaba unavura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'ibicurane inkorora n'izindi.

Amaronji arunze ahantu hamwe, rimwe rirasatuye kandi hari n'ibyatsi ku mpande, akaba yifashishwa nk'umuti, kuko rimwe na rimwe ibi ibyatsi byayo bivura idwara nyinshi zitandukanye, nayo akaba aribwa nk'imbuto, nk'uko tubizi imbuto zirinda umubiri wacu indwara.